Umwana mutoya ufite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi ari kuvoma amazi kuvomo rusange kugira ngo ajye gukora ibikorwa by'isuku bitandukanye nko gufura , koga ndetse n'ibindi hagamijwe ko yakwirinda indwara zituruka ku mwanda harimo nkimpiswi, macinya n'izindi.

Umujyanama w'ubuzima urimo gutanga inkigo ku bana batandukanye bari munsi y'imyaka itanu, iyi ikaba ari gahunda ya leta aho aba n'abato bari munsi y'imyaka itanu bahabwa inkingo z'indwara zitandukanye harimo nk'iseru, imbasa ndetse n'izindi kugira ngo bagire ubudahangarwa kuri izi ndwara bityo bibafashe kugira imibereho myiza.

Umukobwa urimo gufasha abana kuvoma amazi ku ivomo rusange, aya akaba ari amavomo agenda aboneka hirya no hino mu gihugu kuko yubatswe na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gushishikariza abaturage ndetse no kubafasha kubona amazi meza abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi hirindwa ko bagira indwara zitandukanye zituruka ku mwanda nk'impiswi ndetse n'izindi.

Mu bitaro ahatangirwagwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi nko gusuzuma, gufatwa ibizamini, gutanga imiti, ndetse n'ibindi. Aha akaba ari mu cyumba cyagenewe kubagwa cyizwi nka sale dope, aho abafite ibibazo bitandukanye bazanwa hanyuma bakabagwa kugira ngo babakemure ibyo bibazo bikagaragaza iterambere mu buvuzi nk'uko bigaragara hirya no hino mu gihugu.

Umwana wambaye agapira k'umutuku ari kuvoma amazi ku ivomo rusange ry'amazi meza kugira ngo ayanwe yifashishije igikombe, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi, kunywa amazi menshi ari ingenzi cyane ku buzima kuko afasha mu gukora ibikorwa bitandukanye mu mubiri nko gusohora imyanda ndetse n'ibindi.

Umuganga urimo gusobanurira abaturage biganjemo gukingiza abana ababwira akamaro k'isuku mu kurinda abana babirwara ndetse no gutuma bagira ubuzima bwiza aho yabasobanuriye ko indwara nyinshi ziterwa n'umwanda zigira uruhare runini mu kuzamura impfu abana bakiri bato bityo bagomba kugira isuku mu byo bakora byose yitabwa ku mibereho myiza y'abana babo.

Abaturage b'ingeri zitandukanye aho bari bitabiriye amahugurwa yateguwe na Minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo cyita ku buzima RBC, bakaba bambaye imipira y'umweru. Aya mahugurwa akaba yari agamije gukangurira abaturage kurwanya indwara ya malariya, bakora ibisabwa byose kugira ngo bayirwanye, harimo nko kurara mu nzitiramubu, gukinga amadirishya hakiri kare, kurimbura ibihuru ndetse n'ibindi.

Ku ivomo rusange haragaragara abana benshi baje gushaka amazi, aya akaba ariyo yifashishwa mu gukora ibikorwa bitandukanye by'isuku harimo nk'isuku ku myambaro, aho baba, ndetse no mu bikoresho bya bo hirindwa ko barwara indwara zitandukanye zituruka ku mwanda nk'imipiswi, macinya, ndetse n'izindi.

Ubukangurambaga bwakozwe n'umuryango World Vision aho bwashishikarizaga ababyeyi kugaburira abana babo imboga n'imbuto nka bimwe mu byitabwaho mu kuzamura imirire myiza ndetse no kugira ubuzima bwiza hagendewe ku bushobozi ndetse n'ubudahangarwa ibimera byifitemo birinda ubuzima n’indwara zitandukanye.

Icyumba cy'inama cyari cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, abikorera, impuguke mu buvuzi ndetse n'abandi , aho bari barimo kungurana ibitekerezo barebera hamwe icyakorwa kugira ngo indwara n'ibyuririzi by'ibyorezo bitandukanye byibasira abaturage birandurwe burundu.

Abana ndetse n'umugabo baje kuvoma amazi ku ivomo rusange, aya akaba ari amavomo agenda yubakwa hirya no hino gihugu na leta, mu rwego gufasha abaturage kugerwaho n'amazi meza, abafasha kugira isuku mu bikorwa byabo bya buri munsi, hagamijwe ko birinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda nk'impiswi, macinya ndetse n'izindi.

Umwana wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ikabutura y'umukara aho yaje kuvomamazi yitwaje ijerekani kwi'ivoma rusange akaba n'amavo agenda yubakwa na leta hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho n'amazi meza abafasha kugira isuku mu buzima bwabo birinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Icyapa kirimo ibara ry'ubururu, cyatanzwe n'umuryango utegamiye kuri leta wa agaha aho washishikarizaga abantu kwitabira umunsi mpuzamahanga washyiriho kwita ku buzima wabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'akane ku itariki makumyabiri n'ebyiri kugeza kuri makumyabiri n'eshatu.

Umuganga wambaye itaburiya, aho barimo guha urukingo umwana w'uruhinja usigatiwe na mama we, iyi akaba ari imwe muri gahunda zashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda, yimakaje imibereho myiza y'abaturage, abana bahabwa inkingo bakiri bato, kugira ngo bibarinde ibyorezo bitandukanye, ndetse n'indwara zitandukanye mu mikurire yabo.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baje gusaba serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, harimo gusuzumwa indwara zitandura nka ,diyabete ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Ibi hakaba n'ibikorwa bigenda bikorwa hirya no hino mu gihugu, abaturage basuzumwa indwara zitandura kuko ari ukugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze kandi n'abanduye batangira imiti hakiri kare. Hagaragara kandi n'imodoka y'imbangukiragutabara yifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze igihe habaye ngombwa.

Abaturage baje kuvoma amazi ku ivomo rusange, bifashishije amajerekani, aya akaba ari amavomoro agenda yubakwa na Leta hirya no hino mu gihugu, aho ari gufasha abaturage kugira isuku, yaba ku mubiri, ku myambaro, mu bikoresho byabo, ndetse n'ahandi mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda nk'impiswi ndetse n'izindi.

Umwana wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'umukara, arimo gukaraba amazi meza n'isabune ku ivumo rusange, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda nk'impiswi ndetse n'izindi. Aya mavomo akaba agenda aboneka hirya no hino mu gihugu, aho yubatswe ku bufatanye bwa Leta ndetse n'imiryango itandukanye iharanira ubuzima bwiza bw'abatuye igihugu.

Umunyeshuri wambaye impuzankano igizwe n'ishati ya breciel ndetse n'ikabutura y'umukara aho bari gukaraba intoki kurikandagira ukara ibi bikaba ari bimwe mu byifashishwa mu kwimakaza kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda ndetse n'ikwirakwira ry'ibyorezo bitandukanye byandurira mu gukoranaho hakarabwa intoki n'amazi meza n'isabune.

Abaturage baje gushaka amazi ku ivumo rusange bitwaje amajerekani, aya akaba afasha mu gukora isuku mu ngo zabo, ku myambaro, ku mubiri, ku byo barya ndetse n'ibindi birinze indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda nka macinya, impiswi ndetse n'izindi.

Abaturage batonze umurongo baje kuvoma amazi meza ku ivomo rusange, aya akaba ari amavomo agenda yubakwa hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho n'amazi meza abafasha mu gukora ibikorwa by'isuku bitandukanye, hagamijwe kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Umumama usigatiye umwana w'uruhinja aho agiye guhabwa urukingo, nka bimwe muri gahunda ya leta yashyizweho mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zifata abaturage abakiri bato. Bahabwa inkingo mu myaka yabo mito aho bahabwa urukingo rw'iseru, urw'imbasa ndetse n'izindi zitandukanye.

Umwana uteze ibiganza ku isoko aho ari gukaraba intoki yishimye cyane aseka, iruhande rwe hari amajerekani afite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu yamaze kuvomwamo amazi. Aya akaba ari amazi yifashishwa mu gukora ibikorwa by'isuku bitandukanye hirindwa ko abantu bakandura indwara ziterwa n'umwanda nk'impiswi ndetse n'izindi.

Abakozi bakora mu kigo cy'ubuzima aho bari mu bikorwa byo gutera imiti yica udukoko mu kigo cy'amashuri, hirindwa ko hakwirakwira indwara nka malariya, haterwa imiti mu byumba biraramo abanyeshuri yabugenewe kugira ngo yice imibu. Ibi bikaba ari bimwe mu bitangwa n'ikigo cy'ubuzima mu rwego rwo kwita ku buzima bw'abatuye igihugu.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe ndetse n'uturindantoki, afashe urushinge arimo gukingira umuturage ubasha kwikingiza indwara, iyi akaba ari muri gahunda zishyirwaho na Guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza bakingirwa indwara ndetse n'ibyorezo bitandukanye igihe byadutse kugira ngo bagire ubudahangarwa kuri ibyo byorezo, ibi bikaba bihamirije ko abaturage bagira ubuzima bwiza.

Umuforomo wambaye impuzankano yabugenewe n'agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, aho arimo gukingira umugabo wambaye agapfukamunwa icyorezo cya Covid hakaba ari mu mwaka wihumbi bibiri na makumyabiri na kane ubwo hatangwaga inkingo z'icyorezo cya covid cyari kibasiye igihugu ndetse no hirya no hino ku Isi.

Urujya n'uruza rw'abaturage bitabiriye ibikorwa by'ubuzima bigenda bitangwa hirya no hino mu gihugu bigamije gusuzuma abaturage indwara zitandukanye zitandura, harimo nk'umuvuduko w'amaraso ndetse na diyabete. Aho ibi bikorwa bitegurwa na Minisiteri y'Ubuzima ikabinyuza mu mishinga itandukanye mu rwego rwo gufasha abaturage kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze.

Abategarugori bishimye cyane bateze amaboko barimo kubyina nyuma y'amahugurwa yabahurije hamwe n'impimpuguke mu by'ubuzima. Aho bigishwaga akamaro k'isuku mu byo bakora bya buri munsi cyane cyane kurinda abana babo indwara zituruka ku mwanda, impiswi, macinya ndetse n'izindi. Nyuma y'inama bari bahuriyemo n'impuguke mu by'ubuzima, bakaba barimo kwishimira ubutumwa ndetse bahawe n'impuguke muri ubu buzima.

Icyapa kigaragaza ibigo bitandukanye yaba ibya leta cyangwa se ibitegamiye kuri leta bitanga serivisi z'ubuvuzi ndetse n'ubujyanama ku buvuzi n'iterambere ryabo hirya no hino kw’isi harimo ikigo nka unicef kikaba giharanira uburenganzira bw'umwana ndetse n'imibereho myiza hakabamo ikigo cy'igihugu cyita ku buvuzi rbc, ikigo cy'igihugu kirwanya kanseri Rwanda cancer ndetse n'ibindi

Abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'umweru, ubwo bari yavuye mu mahugurwa agamije kubahugura ndetse no guhugura abaturage uko bategura indyo yuzuye nka bimwe mu bifasha abaturage kugira ubuzima bwiza cyane cyane abana bato. Hagamijwe ko bagira imikurire myiza yaba mu gihagararo mu bwenge ndetse no mu mbamutima.

Abaturage baje gushaka amazi ku ivomo rusange aho bagupompa iri vomo hanyuma rikazamura amazi aturutse mu butaka. Aya mazi akaba yifashishwa mu gukora ibikorwa by'isuku bitandukanye, yaba ku myambaro, mu biribwa, mu bikoresho ndetse n'aho baba mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Umwana w'umunyeshuri wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'ijipo y'umukara ari gukaraba intoki ku bwogero rusange buzwi nkakandagira ukarabe. Iyi akaba ari imwe muri gahunda zashyizweho hirya no hino ahahurira abantu benshi, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda ndetse no gukwirakwiza indwara, umuntu akaraba intoki n'amazi meza n'isabune inshuro nyinshi.

Mu bitaro kwa muganga hatangwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, harimo gusuzuma, gutanga imiti ndetse n'izindi. Akaba ari mu cyumba cy'isuzumiro ahagaragara umuganga wambaye impuzankano yabugenewe ndetse unafite ibikoresho by'ibanze byifashishwa muri aka kazi arimo gusuzuma umurwayi amwambitse imashini kaboko ipima umuvuduko w'amaraso, ibi akaba ari ukureba ibimenyetso mpuruza ndetse harebwa neza indwara ye kugira ahabwe ubuvuzi bujyanye n'iterambere ndetse anahabwe imiti ikwiranye n'uburwayi afite.

Ababyeyi baje ku ivoma rusange gushaka amazi bitwaje indobo bakaba barimo kuhagira abana babo bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune. Ibi bikaba ari mu rwego rwo kubafasha kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Abaturage bagiye kuvoma amazi ku ivomo rusange, bitwaje ibikoresho bitandukanye nk'amajerekani, indobo, amabasi, ndetse n'ibindi, aya mazi akaba agenda akwirakwizwa na leta hirya no hino mu gihugu, mu rwego rwo kugeza ku baturage amazi meza, yifashishwa mu gukora ibikorwa by'isuku, hirindwa indwara zitandukanye zituruka ku mwanda, nka macinya, impiswi, ndetse n'izindi.

Kimwe mu bigaragaza imibereho myiza ndetse n'imikurire y'umwana, ni ukwiyongera mu gihagararo ndetse no mu biro. Aha ni mu bukangurambaga bwari bugamije guhugura abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi batanga serivisi z'ubuvuzi, gukoresha ibyuma byabugenewe mu gupima igihagararo ndetse n'ibiro by'umwana, aho bari barimo gupima ngo barebe niba umwana ari mu mikurire mibi hifashishijwe ibikoresho bya bugenewe.

Abajyanama b'ubuzima b'abagabo ndetse n'abagore bishimye cyane, bambaye amataburiya y'ubururu abaranga igihe bari mu kazi, ndetse n'amakarita y'akazi, barimo kuganira n'umuyobozi w'umuryango w'abibumbye wita ku buzima ku isi OMS, aho bari bamaze guhabwa amahugurwa yuko basuzuma indwara zimwe na zimwe zitandukanye, ndetse banakangurira abaturage kurwanya indwara ziterwa n'umwanda, bakora isuku aho baba, aho bakorera ndetse no mu ngo zabo.

Ivomo rusange ryubatswe ku nkunga ya Leta aho ririmo gusukurwa n'abamama babiri baje kuvoma amazi yo gukoresha amasuku mu bikorwa byabo bya buri munsi mu rwego rwo kugira isuku yaba aho baba, ku myambaro, ndetse no mu biribwa mu rwego rwo kwirinda ko bafatwa n'indwara zitandukanye zituruka ku mwanda. Harimo nk'imiswi, mashinya ndetse n'izindi.

Umujyanama w'ubuzima urimo guhugura umuryango ugizwe n'umugabo ndetse n'umugore. Uyu mugore akaba atwite. Umujyana w'ubuzima yabagiraga inama yo kurya indyo yuzuye yiganjemo ibitera imbaraga iby'ubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara byafasha umubyeyi utwite kugira ubuzima bwiza kuri we ndetse n'uwo atwite akazavuka afite ubuzima bwiza.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, impuguke mu by'ubuvuzi ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta ubwo barimo kuganira bungurana ibitekerezo, barebera uruhare rwa buri umwe mu kurwanya burundu indwara zituruka ku mwanda cyane cyane hitabwa mu kugeza ibikorwa remezo by'ibanze nk'amazi meza mu baturage kugira ngo bagire isuku bityo bibafashe kwirinda izo ndwara.

Abaturage bari kuvoma amazi ku ivomo rusange, kugira ngo bajye gukora isuku aho baba, mu bikoresho byabo, ku biribwa, imyambaro, ndetse n'ibindi bitandukanye, hirindwa indwara zitanduruye ziterwa n'umwanda, nka macinya, ndetse n'ibyorezo binyuranye biterwa n'isuku nke.

Umugore wambaye agapira k'umukara n'umweru, ukenyeye igitenge, aho bari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, ubu akaba ari bumwe mu buryo bwashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, ibashishikariza abaturage ko bagomba kugira isuku cyane cyane igihe bavuye mu bwiherero, bakaraba amezi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Abana babiri bari ku ivomo rusange barimo gukaraba intoki n'amazi meza aturuka kuri iryo vomo, aya akaba ari amavomo yagiye yubakwa hirya no hino mu gihugu na guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo kwegereza abaturage amazi meza bifashisha mu gukora isuku mu buryo butandukanye, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Abaturage biganjemo abana baje gushaka amazi ku ivumbiro rusange aya mavomo akaba agende aba hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abatuye mu bice bitandukanye kugerwaho n'amazi meza abafasha kugira isuku ibi bikabafasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda nk’impiswi, macinya n'izindi.

Abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya afite ibara ry'ubururu ndetse baba bari kumwe n'impuguke mu by'ubuvuzi nyuma yo guhabwa amahugurwa yo gusuzuma ndetse no kuvura indwara zimwe na zimwe hirya no hino harimo nka malariya, indwara z'abana ndetse n'izindi. Nyuma yo guhabwa aya masomo bakaba bari bishimye cyane bafata ifoto y'urwibutso n'abaganga baje kubahugura.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo ababyeyi bafite abana babaherekeje gufata imiti y'inzoka nk'imwe muri gahunda zashyizweho na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo guhashya indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda aho buri mwana uri mu kigero cy'imyaka itanu gusubiza hasi bahabwa ibinini bigamije kwica inzoka zo mu nda mu rwego kuzamura imibereho myiza yabo.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye ndetse n'abikorera ubwo bari bahuriye mu cyumba cy'inama baganira hamwe bungurana ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo buri wese agire uruhare mu kurwanya burundu icyorezo cya covide cumi n'ikenda, cyari cyugarije u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe.

Abana barimo gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune yo kwivomo rusange aya akaba ari amavomo agenda ayoborwa na leta hirya no hino mu gihugu afasha abaturage kugira isuku cyane cyane iyo intoki bakaraba amazi meza n'isabune mu rwego gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza hirindwa indwara zitandukanye ndetse n'ibyorezo .

Umuganga urimo gukingira umwana ukiri mutoya amuha inkingo zitandukanye, iyi akaba ari imwe muri gahunda yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, mu rwegoho rwo guteza imbere ubuvuzi ndetse n'ubuzima bwiza abana bahabwa inkingo bakiri bato zibafasha kwirinda ibyorezo ndetse n'indwara zitandukanye.

Umu mama ndetse n'abana barimo kureba umuyobozi uri gutanga imbwirwaruhame, ababwira akamaro k'isuku mu buzima bwabo ndetse n'uruhare rwabo mu kugira isuku mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye harimo nk'impiswi, macinya ndetse n'izindi.

Abagore baje gushaka amazi ku ivomo rusange bazanye ibikoresho bitandukanye harimo indobo n'amabase n'ibindi ayakaba ari amavomo yagiye bakora guverinoma hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho n'amazi meza kugira ngo birinde indwara zitandukanye bituruka ku mwanda yaba impiswi macinya ndetse n'izindi.

Abamama benshi cyane baje gukingiza abana babo ku kigonderabuzima. Iyi akaba ari gahunda yashyizweho na guverinoma y' Rwanda ije gufasha abaturage kugira imibereho myiza, ahubwo abakiri bato bahabwa inkingo z'indwara zitandukanye nk'iseru, imbasa ndetse n'izindi mu rwego rwo kubarinda kwandura ibi byorezo ndetse no guteza imbere imibereho myiza y'abatuye igihugu.

Icyapa cy'umuryango utegamiye kuri leta, uharanira uburenganzira bw'umwana, uzwi nka unisefu umuryango ukaba ufite uruhare runini cyane mu guteza imbere imibereho myiza y'abatuye isi cyane cyane abana, aho zibagenera ibiryo imyambaro ndetse n'inkunga zitandukanye, ndetse ukanafasha mu gutera inkunga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, cyane cyane bwibanda ku bwabakiri bato.

Abana barimo gukaraba intoki ku ivomo rusange, aya mavomo akabagenewe gukora hirya no hino mu gihugu, mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho n'amazi meza, abafasha gukora isuku mu buzima bwabo buri munsi, hagamijwe ko birinda indwara zitandukanye cyane cyane iziterwa n'umwanda, nk'impiswi , macinya ndetse n'izindi.

Ibiganza by'umuntu uri gukaraba intoki n' amazi meza ndetse n'isabune ku bwongeo rusange. Iyo akaba n'inama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi, ko gukaraba intoki kenshi n' amazi meza n'isabune birinda indwara zitandukanye, zituruka ku mwanda ndetse n'izikwirakwira binyuze mu gukorana cyangwa se guhuza amatembabuzi atandukanye.

Ubukangurambaga bwakozwe na minisiteri y'ubuzima, ibinyujije mu mashami yayo atandukanye, aho bakanguriraga abaturage kwita ku mirire y'abana, cyane cyane bahabwa ibikomoka ku matungo nk'amata, ndetse n'inyama, nk'amwe mubafasha kugira ubuzima bwiza, kuko byuzuyemo intungamubiri zikenerwa n'umubiri mu buzima bwa buri munsi.

Umujyanama w'ubuzima arimo gutanga urukingo ku mwana w'uruhinja. Iyi ikaba ari gahunda ya leta yashyizweho, mu rwego rwo gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza, aho abana bari munsi y’imyaka itanu bahabwa inkingo z'ibanze harimo nk'iz’iseru, Imbasa ndetse n'izindi. Mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza mu mikurire yabo, birinda kwandura indwara zitandukanye ziterwa n'udukoko.

Impuguke mu by'ubuvuzi ziganjemo abaganga ndetse n'abandi batanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi aho bari bagiye mu bikorwa byo gusuzuma abaturage indwara zitandura nka kanseri diyabete ndetse n'umuvuduko w'amaraso nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri ibi bikorwa bikaba byabereye ahazwi nka nyabageni muri siporo rusange ihuza abaturage ndetse n'ingeri zitandukanye.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, aho bicaye batonze uruziga barimo kuganira n'impuguke mu by'ubuzima, zibigisha akamaro ko kugira isuku mu buzima bwabo bwa buri munsi cyane cyane iyo mu mukanwa, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye. Aho babigishaga uko bakora isuku yo mu kanwa bifashishije uburoso ndetse n'amazi meza n'imiti yabugenewe mu kugira isuku yo mu kanwa.

Abantu benshi baje gushaka serivisie z'ubuvuzi ku kigonderabuzima kibegereye bicaye barimo kwakirwa n'umukozi ku kigonderabuzima. Ibi bikagaragaza imitangire myiza ya serivise yewe hirya no hino mu bigonderabuzima. Aho abantu bashobora kubona serivise z'ubuvuzi zinyuranye nko kwisuzumisha, guhabwa imiti ndetse n'izindi.

Abana baje gushaka amazi ku ivomo rusange. Aya mavomo akaba agenda yubakwa hirya no hino mu Gihugu, mu rwego rwo gukwirakwiza amazi meza mu bice by'Igihugu, hagamijwe ko abaturage bose bagerwaho n'amazi meza, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda ahanini.

Abana ndetse n'umumama baje gushaka amazi ku ivomo rusange, bitwaje ibikoresho bitandukanye by'utujerekani, cyangwa se amasafuriya. Aho bari kuvoma amazi ku mavomo rusange agenda aba hirya no hino mu gihugu, mu rwego rwo gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza, bibanda cyane mu kugira isuku hakoreshejwe amazi meza, aho birinda indwara zinyuranye ziterwa n'umwanda nk'imipiswi, macinya, n'izindi.

Umuntu uteze ikiganza wari gukaraba intoki ku mazi yaturutse mu itiyo , iyi akaba arimwe mu byifashishwa mu kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda, hitabwa ku isuku yo gukaraba, hifashishijwe amazi meza ndetse n'isabune nka bumwe mu buryo bwo kwirinda izi ndwara.

Umujyanama w'ubuzima urimo guhereza umwana urukingo. Iyi akaba ari gahunda ya Leta yo guhereza abana bakiri bato inkingo zitandukanye zibafasha kugira imibereho myiza zibarinda kwandura indwara zitandukanye nk'iseru, imbasa ndetse n'izindi, bahabwa inkingo z'izo ndwara mu gihe bakiri bato bikabafasha kugira ubudahangarwa kuri zo; bityo bikabarinda ko bazandura mu gihe barimo gukura.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye impuguke mu by'ubuvuzi ndetse n'abikorera, aho bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama bungurana ibitekerezo hari ku ruhare rwa buri umwe mu kwirinda ndetse no guhugurira abaturage kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda. Bahurira mu cyumba cy'inama, bicaye bazengurutse ameza imbere yabo hatetseho ibirahuri ndetse n'impapuro barimo gukoresha muri iyi nama.

Aba mama benshi bahuriye hamwe mu cyumba aho baje gukingiza abana babo inkingo zitandukanye muri gahunda ya leta yashyizweho mu rwego rwo kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza aho abana bose bakivuka bahabwa inkingo z'ibyorezo bitandukanye mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza birinda kwatakwa n'indwara ndetse n'ibyorezo binyuranye bahabwa inkingo hakiri kare.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye bakora muri serivisi zitandukanye z'ubuvuzi bigira hamwe icyakorwa kugira ngo ikwirakwira ry'icyorezo cya marburg rihagarare ndetse batanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu bakora neza inshingano bafite zo kwita ku buvuzi.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri ibisu nka gymnastic hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa harimo imashini zo kwirukiraho ndetse n'ibindi ibi bigafasha aba gukora imyitozo ngororamubiri kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zitandura harimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Icyumba cy'inama cyahuriyemo abayobozi mu nzego za leta, impuguke mu by'ubuvuzi ndetse n'abandi batandukanye. Ubwo barimo kungurana ibitekerezo barebera hamwe uko abantu batangira gusuzumwa icyorezo cya kovide cumi n'icyenda, ubwo cyari cyugarije u Rwanda mwaka w'ibihumbibiri na makumyabiri na kabiri. Aha kandi bakaba barafatiyeyo imyanzuzo itandukanye yari igamije ko abaturage bagira ubuzima bwiza ndetse n'abatanga serivisi z'ubuvuzi bagira ubwirinzi bukwiriye.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, abikorera ndetse n'impuguke mu by'ubuzima ubwo bagenaga ingengo y'imari izakoreshwa mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mu buzima, nka kimwe mu byiciro bigomba kwitabwaho hagamijwe imibereho myiza y'abaturage.

Impuguke mu by'ubuvuzi abaganga ndetse n'abajyanama mu by'ubuzima ubwo bari bahuriye hamwe mu mahugurwa yari agamije kurebera hamwe uruhare rwabo mu kwihutisha imitangire ya serivisi cyane cyane ku bagore babyara mu cyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umugore n'umwana aya akaba hirya no hino mu gihugu hizihizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore n'umwana.

Umukecuru wikoreye ijerekani ifite ibara ry'umuhondo avuye kuvoma amazi ku ivomo rusange, aya mazi akaba yifashishwa mu ngo ndetse no hirya no hino hatandukanye mu bikorwa by'isuku bigamije kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda nka macinya, impiswi ndetse n'izindi.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ijipo y'umukara, urimo kuvoma amazi ku ivomo rusange, akoreshe ijerekani ndetse n'amabasi. Aya mazi akaba yifashishwa mu gukora ibikorwa by'isuku bitandukanye, yaba ku mubiri, ku myambaro, ku biribwa ndetse n'ahandi, hagamijwe ko bagira isuku, birinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Umuforomokazi urimo guha urukingo umwana mutoya usigatiwe na mama we, iyi akaba ari imwe muri gahunda za leta zashyizweho, mu rwego rwo gufasha abakiri bato kugira ubuzima bwiza, bahabwa inkingo bakiri bato, cyane cyane mu myaka yabo munsi y'itanu, kugira ngo bagire ubuzima bwiza birinda kwandura ndetse no kurwara ibyorezo bitandukanye.

Icyumba cy'inama cyari cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta impuguke mu by'ubuvuzi ndetse n'abandi aho barimo kugezwaho imbwirwaruhame na minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana ababwira uruhare rwa buri umwe ndetse anabibutsa umukoro bafite kugira ngo abatuye isi bagire ubuzima bwiza cyane cyane hano mu Rwanda uruhare buri wese agomba kubigiramo.

Urubyiruko rwahuriye hamwe ku cyumba cy'inama, nyuma yo guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, hirindwa indwara zitandukanye ziterwa no gukora imibonano mpuzabitsina nka SIDA, imitezi ndetse n'izindi, bakaba barimo gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo kwitabira aya mahugurwa.

Umugore uri kuvoma amazi yo kuvomo rusange. Iruhande rwe hari abana babiri barimo kureba uko avoma amazi. Ibi akaba ari ibikorwa bigamije kwimakaza isuku hirya no hino hitabwa ku isuku yaho tuba, aho dukorera ndetse no ku myambaro hirindwa indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Ubukangurambaga bwakozwe n'abakozi bo kwa muganga batandukanye, aho barimo basuzuma abantu indwara zitandukanye zitandura harimo nk'umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi. Ibi bikaba bikorwa hirya no hino mu gihugu, mu rwego rwo kumenyesha abaturarwanda uko bahagaze bisuzumisha izi ndwara ndetse basanga baranduye bagatangira imiti hakiri kare.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi batandukanye ndetse n’impuguke mu by'ubuzima, aho barimo kungurana ibitekerezo uburyo imitangire ya serivisi ku buvuzi yakongerwa hagamijwe ko abaturage bagira ubuzima bwiza, bicaye bazengurutse ameza akoze mu mbaho. Imbere yabo hari ibikombe birimo ikawa ndetse hari n'icyuma cyifashishwa mu gusakaza amashusho, bakaba barimo kuganiraho ingingo zinyuranye.

Abana babiri batoya bicaye mu ishuri bambaye impuzankano, imbere yabo hari ameza akoze mu biti ndetse n'inyuma yabo hari ikibaho cyandikwaho na mwarimu. Aho barimo guhabwa amahugurwa yuko bagira isuku yo mu kanwa bifashishije uburoso bw'amenyo ndetse n'imiti yabugenewe, bibafasha kwirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa nk'ifumbi ndetse n'izindi.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo bayobozi bavuga rikijyana ndetse n'impuguke mu by'ubuzima kugira ngo bungurane ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo ubuzima bwitabweho yaba ubw'abagore babyara ndetse n’ubw'abana bavuka hirya no hino mu gihugu himakazwa imitangire myiza ya serivisi kuri bo.

umumama wambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'ubururu arimo gukarabya intoki, umwana we n'amazi meza n'isabune, akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune inshuro nyinshi, bifasha kwirinda indwaro zitandukanye ziva ku mwanda nk'impiswi ndetse n'izindi.

Abayobozi batandukanye ndetse n'impuguke mu by'ubuzima ubwo bari bateraniye hamwe mu nama yabahurije hamwe bungurana ibitekerezo, harebwa uruhare rwa buri rumwe ndetse n'icyakorwa kugira ngo barwanye ibyorezo ndetse n'indwara zitandukanye zibasira igihugu mu bihe binyuranye. Aha bakaba barimo gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo gusoza iyi nama.

Umugore uri kuvoma amazi ku ivomo rusange, iruhande rwe hari abana babiri barimo kumwitegereza, aya mazi akaba yifashishwa mu bikorwa by'isuku bitandukanye harimo nko kumesa, gukora isuku aho tuba, gukora isuku ku mubiri, ku myambaro ndetse n'ahandi, hagamijwe kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Umwana wambaye impuzankano igizwe n'ishati y'umuhondo ndetse n'ikabutura y'ubururu, aho afite uducupa turimo amazi. Aya mazi akaba amufasha kugira ubuzima bwiza, nk'uko bitangazwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko kunywa amazi byibuze litiro eshatu ku munsi ari ingenzi cyane, kuko afasha mu bikorwa bitandukanye by'umubiri, nko gusohora imyanda ndetse n'ibindi.

Umuforomokazi wambaye impuzankane yabugenewe ndetse n'agapfukamunwa, aho ari kuri site yagenewe gutangirwamo inkingo z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda, ubwo cyari cyugarije isi ndetse n'u Rwanda muri rusange, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Abaturage bakaba baragiye bahabwa inkingo zinyuranye, aha hakabagaragara umuforomo urimo gukingira umuntu amutera urushingiye ku kaboko, nka bumwe mu buryo bwo kwirinda iki cyorezo, abantu bagira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga bwakorewe mu kigo cy'amashuri, aho bashishikarizaga abana kwita ku isuku yo mu kanwa bifashishije ibikoresho byabugenewe ndetse n'uburoso bw'amenyo, kugira ngo birinde indwara zitandukanye zifata mu kanwa zituruka k'umwanda harimo nk'ifumbi ndetse n'izindi.

umukorerabushake wambaye ijire y'icyatsi wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki afite akuma gapima umuriro aho ari mu bikorwa byo kugenda bafata umuriro hirya no hino mu gihugu igihe u Rwanda rwugarijwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda nka bumwe mu buryo bwakoreshwaga kugirango ngo harebwe abafite ibimenyetso bitandukanye biranga iyi ndwara.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n’ipantaro y'umukara aho yaje kuvoma amazi kw’ivomo rusange akaba ari amavomo agenda yubakwa na guverinoma hirya no hino, mu rwego rwo kugeza amazi meza ku baturage kugira ngo babafashe gukora ibikorwa by'isuku yaba ku myambaro, ku mubiri ndetse n'uburyo bakoresha, mu rwego rwo kwirinda ko bakandura indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Ubukangurambaga bwateguwe n'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku buzima We2 bwari bugamije gukangurira abakiri bato kugira isuku yo mu kanwa bumwe mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye zifata iki gice nk'uko byagiye bigaragara isuku igakorwa hifashijwe ibikoresho byabugenewe ndetse n'imiti yabugenewe.

Abana benshi cyane batonze umurongo barimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune , akaba ari no mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima nkabumwe mu buryo bwifashishwa mu kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda ndetse n'ibyorezo byandura binyuze mu matembabuzi aho abantu bagirwa inama yo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune.

Umuntu urimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukaraba intoki kenshi n'amazimeze n'isabune bifasha ubikora kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, ndetse n'izikwirakwira binyuze mu gukoranaho ndetse no gukora ku banduye izo ndwara.

Ku ivomo rusange hagaragara abana baje gushaka amazi bitwaje amajerekani, aya akaba ari amavomo yubakwa hirya no hino mu gihugu na leta mu rwego rwo gufasha abaturage kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda imipiswi, macinya, ndetse n'izindi, hifashishwa isuku bakoresha amazi meza ndetse n'isabune.

Abayobozi ndetse n'abakozi mu nzego z'ubuzima bahuriye mu cyumba cy'inama bungurana ibitekerezo, harebwa uruhare rwa burimwe mu kurwanya indwara zandura cyane cyane ziterwa n'isuku nke, aho bari bateguye amahugurwa bitabiriye mu cyumba cy'inama cya bimwe mu bitaro, hari hari na heyicidi ayi yari yaje gutanga amahugurwa kuri izi ndwara.

Umujyanama w'ubuzima, ubwo ari mubikorwa byo guhugura abaturage urugo kurundi, abasobanurira akamaro kiryo yuzuye, cyane cyane kubakiri bato, ari bimwe mubibafasha kugira ubuzima bwiza hirindwa ko abana barwaragurika. Ubu akaba ari ubukangurambaga bateguwe na minisiteri y'ubuzima agenda ibunyuza mu majya nuruza biri no mumudugudu, mu rwego rwo gukangurira abaturage kubahiriza indyo yuzuye haba muburyo bufasha abakiri bato kugira ubuzima bwiza

Umugore uri kuvoma amazi ku ivomo rusange mu ijerekani kugira ngo ajye gukora isuku nka kimwe mu birinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda yaba gukora isuka aho aba ku myambaro ku mubiri ku bikoresho byo mu gikoni ndetse n'ahandi.

Icyumba cy'inama cyahuriyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye ndetse n'abikorera, bungurana ibitekerezo bareba uruhare rwa buri umwe mu kurandura burundu malariya mu Rwanda, ndetse harebwa n'uburyo amavuriro yo hirya no hino mu gihugu, yagezwaho imiti ndetse n'ibikoresho by'ibanze mu guhashya iyi ndwara.

Umwana urimo kunywa amazi meza ku ivumo rusange ateze intoki akunama akaba ari kuyanywa. Aya akaba ari amavumo aboneka hirya no hino mu gihugu, aho yifashishwa n'abaturage kugira ngo babone amazi meza abafasha gukora ibikorwa by'isuku mu bikorwa byabo, birinda ko bakandura indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Abanyeshuri bambaye impuzankano barimo kunywa amazi meza ku kigega bakoresheje ibikombe kunywa amazi akaba arimwe mu nama zitangwa n'impuguke mu byubuvuzi ko byibuze umuntu yakabaye anywa litiri eshatu ku munsi kugira ngo agire ubuzima bwiza kuko amazi ari ingenzi cyane mu mubiri kandi afasha mu bikorwa bitandukanye nko gusohora imyanda ndetse n'ibindi.

Icyapa kirimo ibara ry'ubururu n'umuhondo kiriho ifoto y'umukobwa uri guseka cyakanguriraga abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe nka bimwe mu bititabwaho cyane, nyamaze bufite uruhare runini mu gutwara ubuzima bwa benshi ndetse no guhungabanya imibereho yabo, ibi bikaba byarakozwe ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe.

Icyapa cya isange one stop center iki akaba ari ikigo gikorana na polisi y'u Rwanda ndetse n'abaterankunga batandukanye mu rwego rwo gutanga ubutabazi bw'ibanze ku bahuye n'ibibazo byihohoterwa bitandukanye yaba ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se irindi hohoterwa iryariryo ryose aho bahabwa ubutabazi bw'ibanze bitabwaho hirindwa ko bagira ibibazo bindi nyuma yo guhura nicyo kibazo cy'ihohoterwa.

Uumuganga wo mu mutwe wambaye imyenda y'umukara ndetse n'amarinete aho arimo kuganira n'umurwayi wambaye imyenda y'umutuku yicaye ku gatebe yegamiye yitangiriye itama, aba akaba ari abafite ibibazo byo mu mutwe aho baba baratangiye kwiheba, bakavurwa baganirizwa n'impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe, bityo bakagaruka ku murongo bagatanga umusanzu wa bo mu kubaka igihugu.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe abenshi bazi nk'umusazi, aho ari kwirukanka mu muhanda ndetse anabyina, aba akaba afite uburwayi budakunda kwitabwaho, nyamaza na we aba akeneye ubuvuzi nk'abandi kuko ari indwara zivurwa kandi zigakira.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, ndetse n'abakora muri serivisi z'ubuvuzi aho bari barimo guhugura abaturage biganjemo urubyiruko, babereka uburyo indwara zitandukanye zandurira mu imibonano mpuzabitsina zikwirakwira , ndetse n'uburyo bazirinda bakoresheje uburyo buhari, harimo nko kwifata, gukoresha agakingirizo ndetse n'ibindi.

Icyumba cy'inama cyari cyahuriyemo abaturage biganjemo urubyiruko ndetse n'impuguke mu by'ubuzima, ubwo baganiraga hamwe ubuzima bw'imyororokere ndetse n'uruhare rwa buri umwe mu kugira ngo amakuru amenyekane hirya no hino ndetse n'urubyiruko rufata iya mbere mu kugira uruhare mu kwirinda indwara zitandukanye, ziterwa n'imibonano mpuzabitsina.

Umuganga w'indwara zitandukanye zo mu mutwe aho arimo kuvura umugore ufite ikibazo cyo mu mutwe amuganiriza, uvuka no mu buryo bwifashishwa n'abaganga aho baganira n'ufite ikibazo runaka hanyuma bakumva ibitekerezo ibi bikamuha kwibohora ndetse agakira indwara bidasabye ko bakoresha imiti.

Abayobozi mu nzego za leta ndetse n'abavuzi mu bigo bitandukanye ubwo bari bahuriye hamwe mu nama yari yabahuje ngo bungurane ibitekerezo bareba icyakorwa kugira ngo imibereho myiza y'abaturage izamuke hitabwa cyane cyane mu kuba serivisi z'ubuzima zishyitse, aha bakaba barimo gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'iyo nama.

Umuganga w'indwara zo mu mutwe arimo kuganiriza umumama ufite indwara y'agahinda gakabije aho abavuzi b'izi ndwara baganira n'abarwayi hanyuma bakabafasha kwiyumva bitandukanye nk'imwe muri serivisi z'ubuvuzi hadakoreshejwe imiti ahubwo bakaganirizwa.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za Leta zitandukanye, ubwo bari bitabiriye amahugurwa yateguwe na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyita ku buzima RBC ndetse n'abaterankunga batandukanye, aho bahuguraga urubyiruko barwigisha uburyo bwiza bwo kwirinda imibonano mpuzabitsina ndetse n'indwara zanduriramo, mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako ifite igisenge cy'ubururu isize amarangi y'umweru itangirwamo serivisi z'ubuvuzi aha hakaba hatangirwa serivisi z'ubuzima nko gusuzuma guhabwa imiti ndetse n'izindi ku baturage bahegereye aho bashobora kubona serivisi z'ubuvuzi bikagaragaza iterambere mu buvuzi aho bitakiri ngombwa ko abaturage bakora urugendo bajya gushaka serivisi ahubwo bazegerejwe hirya no hino aho batuye.

Abana benshi bamwe barimo kurira abandi bateze amaboko bigaragare ko bafite ibibazo bitandukanye aba bakaba bafatwa nk'abafite kutuzura cyangwa ibibazo byo mu mutwe nyamaze ari uburwayi nk’ubundi bukwiye kwitabwaho nk'uko bigaragazwa n'impuguke mu by'ubuzima kuko bivurwa kandi bigakira.

Inyubako isize amarangi y'umweru, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane, ikaba yanditse amagambo bigaragaza ko ikoreramo caraes frere de la charite iyi akaba ari ikigo kita kubafite ubuzima bwo mumutwe butandukanye, nk'agahinda gakabije ndetse n'izindi aho bitabwaho bagahabwa serivisi z'ubuvuzi, mu rwego rwo kuzamura imibereho myiza yabo.

Abantu bitabiriye amahugurwa yateguwe na minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo cyita ku buzima RBC, aho yari yitabiriwe n'urubyiruko rw'abakorerabushake ndetse n'abandi batandukanye bakora muri serivisi z'ubuvuzi, ubwo bigiraga hamwe uko bahagarika burundu icyorezo cya kovide cyari cyibasiye u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, aho kigaragaraho umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima ku bufatanye n'imiryango itandukanye itegamiye kuri leta, ko bakanguriraga abaturarwanda kwita ku buzima bwo mu mutwe nka bamwe mugomba kwitabwaho abantu ntibumve ko ari ibisanzwe ahubwo bagashaka serivisi z'ubuvuzi kuko indwara zifata iki gice zivurwa kandi zigakira.

Inama yahurije hamwe abayobozi ba leta abaturage ndetse n'impuguke mu by'ubuzima, ubwo bigiraga hamwe uruhare rwa mu kurwanya icyorezo cya Malariya cyari cyadutse mu mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane baryama mu nzitiramibu iteye umuti ndetse banakora amasuku aho baba banibuka gukinga amadirishya nka bimwe mu byafasha kugabanya ikwirakwira ry'iki cyorezo cya…..

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'umweru n'Ipantaro y'umukara. Ahagaze imbere y'inyubako isize amarangi y'umutuku ikoramo ibitaro bya Caraes Frere de Charite. Aha akaba ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zifata umutwe, harimo nk'agahinda gakabije ndetse n'izindi. Aho hatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku bafite ibyo bibazo bitandukanye bakagira ubuzima bwiza.

Abana benshi cyane b'abanyeshuri bicaye hamwe bari guseka bishimye Ninyuma yo kuganirizwa na mwarimu wabo abatera inkuru zisekeje. Ibi bikaba ari ibigirwamo inama mu kuganirizwa abantu mu rwego rwo kwibirinda kwigunga ndetse no kugira ibibazo bitandukanye byo mu mutwe.

Ubukangurambaga bwakozwe n'urubyiruko rw'abakorerabushake aho barimo baganira n'abaturage hirya no hino mu gihugu bahugura ku kamaro ko gutegura indyo yuzuye mu kurwanya indwara ndetse no guteza imbere imibereho myiza y'abana ndetse n'iyabakuru aho basuraga ingo zitandukanye baganira n'abazigize babashishikariza gutera imboga ndetse no kwibanda ku mirire myiza.

Umubyeyi witeze igitambaro cy'umuhondo yicaye ku gatebe, aho ategereje guhabwa serivisi z'ubuvuzi nkuko yaje kuzishaka ku kigonderabuzima. Ibi akaba ari mu bigaragara hirya no hino aho abaturage begereje serivisi z'ubuvuzi babasha kubona ubuvuzi bitabagoye badakoze urugendo ahubwo bakabona hafi bibegereye.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye abaganga, abikorera ndetse n'urubyiruko aho bahuriye hamwe bungurana ibitekerezo bareba icyakorwa ndetse n'uruhare rwa buri umwe kugira ngo bahashye burundu indwara zandura cyane cyane zituruka ku mwanda nka bamwe mu bafite uruhare runini mu gukangurira abaturage kuzirinda ndetse bafite n'ubumenyi bubibemerera.

Icyapa cyatanzwe na Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda igaragaza ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe ku mpamvu zitera abantu gupfa biyahuye mu Rwanda kuva mwaka bibiri na kabiri kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani, aho bagaragaje kofu ziterwa no kwiyahura kubera impamvu zitandukanye zagiye zigabanuka cyane aho mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ku kigero cya cumi na kane, ariko umwaka ibihumbi bibiri na cumi numunani kikaba cyageze ku kigero cya gatanu ku ijana.

Ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w’ibihumbi kimwe magana cyenda na kane hari umugabo wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara imbere ye hari ururabo aho yunamye hakaba ari mu rwego rwo guha icyubahiro inzirakarengane zishyinguye muri uru rwibutso.

Umumama uhetse umwana iruhande rwe hahagaze n'undi mwana, akaba arimo guteka igikoma gikungahaye ku ntungamubiri kizwi nka shisha kibondo, iki akaba ari igikoma gihabwa imiryango y'abatishoboye mu rwego rwo kuzamura imirire y'abana bo muri iyo miryango, hitabwa kuba bagira ubuzima bwiza babona indyo yuzuye, ndetse n'intungamubiri bakeneye kugira ngo bakure neza.

Icyumba cy'inama cyahuriyemo abayobozi bo mu nzego za leta zitandukanye, impuguke mu by'ubuvuzi ndetse n'imiryango y'abikorera, aho bari bahuriyemo kugira ngo bungurane ibitekerezo ku munsi mpuzamahanga wagenewe kwita ku buzima bwo mu mutwe, uzwi nka world mental health day, aho uyu munsi abantu bungurana ibitekerezo bakareba icyakorwa, kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe burusheho kumere neza, ndetse bwitabweho nk'izindi ndwara zose.

Ubukangurambaga bwateguwe n'ikigo cya OFound cy'ubufatanye n'Imbuto Foundation aho barimo gushishikariza abaturage kugira isuku mu buzima bwabo ndetse haba mu byo bakora mu byo barya mu byo bambara ndetse n'ibindi byose mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda inama ikaba yabereye mu mujyi wa kigali ahazwi nka Kigali Convention Center kaba barimo gufata ifoto y’urwibutso bagaragaza ibyapa nyuma y'iyo nama.

umugabo wambaye ishati y'ubururu ahagaze imbere y'abantu benshi cyane aho yari yitabiriye amahugurwa agamije guhugura abantu ababwira ko abafite indwara zo mu mutwe nabo ara abarwaye nk'abandi , kandi ko zivurwa zigakira .Ubu n'ubukangurambaga bari bwateguwe na minisiteri y'ubuzima bushishikariza abafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe ko bavuzwa bagahabwa serivisi zitandukanye kuko nabwo ari indwara nk'izindi kandi zikira

Ubukangurambaga bwari bwitabiriwe n'abantu bingeri zitandukanye bambaye n'imipira ibaranga aho yari yateguwe na polisi y'u Rwanda ndetse n'abandi bafatanyabikorwa aho bwari bufite insanganyamatsiko igira iti kurwanya ihohoterwa n'inshingano yanjye.

Umugabo wicaye muri ruhurura, afite ibishumi mu ijosi, ndetse iruhande rwe harambitse ibintu byinshi harimo amajerekani ndetse n'ibindi by'imifuka bitandukanye, uyu akaba afite ikibazo cyo mu mutwe, abo sosiyete bita abasazi nyamaze bafite uburwayi busanzwe ndetse bajya kwa muganga bakavurwa bagakira.

Ubukangurambaga bwakozwe n'umuryango utegamiye kuri leta wa USAID, aho barimo guhugura urubyiruko mu kwirinda virusi itera sida ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, zifata imyannda ndangagitsina zitandukanye, aho umama, umuyobozi arimo gutanga imbwirwaruhame afite indangururamajwi mu ntoki, ageza ku bamukurikiye imbwirwaruhame.

Abaganga babiri barimo gutanga serivisi z'ubuvuzi bwo mu kanwa ku murwayi uryamye ku gitanda aho arimo kwitabwaho hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho ndetse anitabwaho n'impuguke mu by'ubuvuzi. Bikagaragaza imitangire myiza ya serivisi z'ubuvuzi hirya no hino aho zitangirwa mu bitaro, ndetse n'ikizere abaturage bagirira muri serivisi bahabwa.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'itaburiya y'umweru, uturindantoki, aho arimo gusuzuma umwana indwara zo mu kanwa yifashishije ibikoresho bigezweho, bikagaragaza iterambere mu buvuzi ndetse no gutanga serivisi z'ubuzima zitandukanye, aho hakoreshwa ibikoresho bigezweho mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara zitandukanye

Umusore uri gukora isuku yo mu kanwa yifashishije akadodo kagenda kanyuzwa hagati y'amenyo, gakuramo imyanda ndetse n'ibisigazwa by'ibiryo biba byagiye bisigaramo, igihe umuntu ari gufungura . Ibi bikaba ari mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa, ziterwa n'isuku nke nk'ifumbi ndetse n'izindi.

Abana b’abanyeshuri bakiri bato bambaye impuzankano y'ishuri bafite uburoso bw'amenyo bari koza mu kanwa ndetse n'amazi meza mu bikombe, ibi bikaba biri mu bukangurambaga bwari bwakozwe, abakiri bato bigishwa kugira isuku yo mu kanwa bifashishije uburoso ndetse n'imiti yabugenewe mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zifata iki gice nk'ifumbi ndetse n'izindi.

Umukobwa wicaye ku ntebe y'umufariso arimo guseka cyane afite indorerwamo mu ntoki arimo kwireba mu kanwa, ni nyuma yo guhabwa serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo nk'imwe mu zitangirwa hirya no hino mu bitaro hagamijwe imibereho myiza y'abaza kuyisaba ndetse no kugira ubuzima buzira umuze bahabwa izi serivisi.

Umusore wambaye agapira k'umweru urimo guseka cyane agaragaza ko afite isuku yo mu kanwa. Ibi akaba ari bimwe mu bitangwamo n'impuguke mu by'ubuzima nk'inama ko bifasha abantu kwirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa nk'ifumbi ndetse n'izindi. Aho basabwa kugira isuku bifashisha imiti yabugenewe ndetse n'uburoso bw'amenyo. Bakora isuku mu kanwa.

Umugabo w'inzobe wambaye agapira k'umukara arimo guseka cyane yerekana amenyo, agaragaza ko afite isuku yo mu kanwa ihagije. Ibi akaba ari ubukangurambaga bwo gushishikariza abantu gukora isuku mu kanwa mu rwe rwo kwirinda indwara zitandukanye zifata iki gice hifashishijwe ibikoresho bitandukanye nka korokate n'uburoso, utudodo two mu menyo ndetse n'izindi.

Umusore wambaye agapira k'umweru urimo guseka cyane, akaba arimo gukora isuku yo mu kanwa yifashishije urudodo rwabugenewe rutangwa n'abaganga b'amenyo, aho rugenda runyuzwa hagati y'amenyo rukuramo imyanda ndetse n'ibisigazwa by'ibiryo biba byasigayemo, mu rwego rwo gukora isuku mu kanwa abantu birinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda zifata iki gice.

Umusore wambaye agapira k'umweru arimo kwibona mu ndorerwamo ari gukora isuku mu kanwa akoresheje urudodo rwabugenewe rutangwa impuguke mu by'ubuvuzi ,aho rufasha abantu gukora isuku mu kanwa barunyuze hagati y'amenyo rugakuramo imyanda ndetse n'ibindi bisigazwa by'ibiryo byasigayemo muga kubafasha kwirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa zituruka ku mwanda.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe, aho ari kureba amafoto y'umurwayi wanyujijwe mu cyuma, ibizwi nka radiyo terapi, aho umuntu acishwa mu cyuma hakareba niba afite ibibazo by'imvune bitandukanye. Uyu akaba ari umuganga urimo kureba ifoto yafashwe n'icyuma gikoreshwa muri ubu buvuzi, areba umurwayi aho afite ikibazo kugira ngo ahabwe serivisi z'ubuvuzi zijyanye n'ikibazo afite.

Umugore wambaye isengeri ry'umweru, aho ari gukora isuku yo mu kanwa yifashishije akadodo gatangwa n'abaganga b'indwara zo mu kanwa kagenda kanyuzwa hagati y'amenyo gakuramo imyanda ndetse n'ibisigazwa by'ibiryo biba byagiye bisigaramu kanwa, ibi bikaba bifasha mu kwirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa harimo nk'ifumbi, ndetse n'izindi.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe ndetse n'uturindantoki, aho agiye gusuzuma umusore uri imbereye, akaba aryamye ku gitanda cyabugenewe, ndetse afite mu ntoki ibikoreshasho agiye kwifashisha amusuzu, ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi, ndetse n'imitangire myiza ya serivisi, aho umurwayi ndetse na muganga bungurana ibitekerezo ku kigiye gukorwa ku buzima bwe.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru yicaye ku ntebe y'icyatsi iruhande rw'igitanda gifite umufariso w’icyatsi aha akaba ari mu cyumba gisuzumirwamo abarwayi aho umurwayi aryamishwa ku gitanda gishobora kuzamuka cyangwa kikamanurwa hanyuma agasuzumwa hifashishijwe ibikoresho bigezweho biri hejuru y'iki gitanda ibi byose bikaba bigamije gutanga serivisi nziza z'ubuvuzi ku baje bashaka izo serivisi.

Umukobwa wishimye arimo guseka yerekana ko yakoze isuku yo mu kanwa akoresheje imiti yabugenewe ndetse n'amazi meza ibi bikaba ari bimwe bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuvuzi ko kugira isuku yo mu kanwa hakoreshejwe imiti yabugenewe ndetse n'amazi meza bifasha uyikora kugira ubuzima bwiza yirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa zituruka ku mwanda.

Umuforomokazi wambaye impuzankano ndetse n'uturindantoki n'agapfukamunwa, ahubwo ari mu bikorwa byo gusuzuma umumama indwara zifata ubuhumekero, akaba ari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ubwo icyorezo cya covide cumi n'icyenda cyari gikwiye. Akaba arimo kumupima areba niba yaba yaranduye iki cyorezo ngo atangire guhabwa ubuvuzi bijyanye n'uko yagira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga bwakozwe n'uruganda rwa robeto ubwo bwarimo bushishikariza abaturage kugira isuku yo mu kanwa bakoresheje udukorwa n'uruganda ndetse n'uburaso mu kugira isuku yo mu kanwa nka bumwe mu buryo bufasha mu kwurinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda cyane cyane izifata mu kanwa.

Umuganga w'indwara zo mu kanwa yambaye ibikoresho byabugenewe bigizwe n'itaburiya agapfukamunwa ndetse n'udukoresho tumufasha kumurika aho arimo gusuzuma umurwayi ufite ibibazo byo mu kanwa ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi aho bukorwa hifashishije ikoranabuhanga ndetse n'imitangire ya serivisi ikihutishwa.

Umugabo urimo guseka ufite isume y'umweru ku rutugu ari gukora isuku mu kanwa yifashishije akadodo gatangwa n'abaganga kagenda kanyuzwa hagati y'amenyo kugira ngo gakuremo imyanda ndetse n'ibisigazwa by'ibiryo biba byasigaye mu kanwa, ibi bikarinda indwara zo mu kanwa ziterwa n'umwanda, ifumbi ndetse n'izindi.

Umusaza ufite imvi cyane wambaye linete ndetse n'agapira k'umweru ari imbere y'ubwogero aho arimo gushyira umuti wifashishwa mu koza amenyo ku buroso kugira ngo akore isuku. Ubu akaba ari uburwo bumwe mu buryo butangwa n'impuguke mu by'ubuzima bufasha mu kwirinda indwara zifata mu kanwa cyane cyane zituruka ku mwanda nk'ifumbi ndetse n'izindi.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi hagaragara ibyumba ndetse n'ahandi hatangwa serivisi zinyuranye harimo nko gusuzuma, gutanga imiti, gufata ibizamini, gupima ibizamini ndetse n'ibindi akaba ari mu cyumba cy'isuzumiro cyane cyane cy'abafite ibibazo by'umugongo hari ibikoresho byabugenewe n'intebe zicyaburwaho hanyuma hagasuzuma umurwayi yocaye neza hari kandi n'imashini kabuhariwe zifashishwa muri ibi bikorwa bigaragaza imitangire myiza ya serivisi z'ubuvuzi hirya no hino mu bitaro.

Umusore urimo gukora isuku yo mu kanwa yifashishije agakoreshwa kabugenewe gatangwa n'abaganga b'amenyo, aho kanyuzwa hagati yamenyo, gakuramo imyanda ndetse n'ibisigazwa by'ibibiribwa byagiye bisigaramo igihe umuntu afungura, bishobora gutera indwara bitandukanye mu gihe byaba bihoreye mu kanwa.

Umusore uri gukora isuku yo mu kanwa yifashishije urudodo rwabugenewe, aho rugenda runyuzwa hagati y'amenyo rugakuramo imyanda ndetse n'ibisigazwa by'ibiryo bitandukanye, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye, zifata mu kanwa ziterwa ku mwanda.

Umugabo wambaye isume ifite ibara ry'umukara, arimo koza mu kanwa akoresheje uburoso bw'amenyo ndetse n'imiti yabugenewe aho ari mu cyumba cy'ubwogero, iyi akaba imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi kuko kugira isuku kenshi mu kanwa cyane cyane hakoreshejwe imiti yabugenewe ndetse n'amazi meza birinda indwara zitandukanye zifata iki gice.

Umusore uri gukora isuku yo mu kanwa yifashishije akadodo kabugenewe, aho gatangwa n'impuguke mu buvuzi bwo mu kanwa. Aka kadodo kakaba kanyuzwe hagati y'amenyo gakuramo imyanda ndetse n'ibisigazwa by'ibiryo, kamwe mu buryo bwo gukora isuku yo mu kanwa hirindwa indwara zitandukanye zifatanyije zituruka ku mwanda nk'ifumbi ndetse n'izindi.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko gusuzuma, gufata imiti, gutanga ibizamini ndetse n'izindi. Iki akaba ari icyuma gikorerwamo isuzuma ry'abafite indwara zifata imyanya y'umugongo ndetse n'izindi, ahagaragaraye imashini kabuhariye zifashishwa mu gusuzuma abafite bene iki kibazo.

Umusore uri gukora isuku yo mu kanwa, yifashishije urudodo rwabugenewe rugenda runyuzwa hagati y'amenyo, kugira ngo rukuremo imyanda ndetse n'ibisigazwa by'ibiryo. Bigafasha mu kugira isuku yo mu kanwa, hirindwa indwara zitandukanye, zifata iki gice cy'umubiri gituruka ku mwanda.

Umukobwa ndetse n'umusore bambu udupira tw'umweru barimo gukora isuku yo mu kanwa bifashishije udukoresho twabugenewe, tugenda tunyuzwa hagati y'amenyo tugenda dukuramo ibisigazwa by'ibiryo ndetse n'imyanda, mu rwego rwo gufasha kubikoresha kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa, hirindwa indwara zitandukanye zifatie igiciro ziterwa n'umwanda.

Mu bitaro kwa muganga mu cyumba gisusurwamo abarwayi bafite indwara zitandukanye zo mu kanwa, hagaragara intebe y'umufariso yifashishwa aho ishobora kuzamurwa cyaangwa ikamanrwa bitewe n'ingano y'uyicayeyo, aho yifashishwa ikicaraho umurwayi hanyuma akareba mu mashini zabugenewe zifashishwa mu gusuzuma. Ibi byose bikaba bigaragaza imitangire myiza ya serivisi y'ubuvuzi hirya no hino mu Rwanda.

Umukobwa urimo guseka akaba ari gukora isuku yo mu kanwa yifashishije agakoresho kagizwe n'urudodo ruba ruziritse ku kantu gafite utwinyo tubiri, aka kakaba gatangwa n'abaganga b'amenyo, aho gafasha gukora isuku yo mu kanwa kanyuzwa hagati y'amenyo gakuramo imyanda ndetse n'ibisigazwa by'ibiryo. Ibi bikaba ari mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa zituruka ku mwanda.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamuwa k'umweru, ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umutuku. Aho arimo gusuzuma umusaza wambaye umupira w'icyatsi indwara zo mu kanwa yifashishije ibikoresho byabugenewe ibi bikagaragaza imitangire ya serivisi mu rwego rw'ubuvuzi aho abantu basuzumwa, hifashishijwe ibikoresho bigezweho hanyuma bagahabwa imiti y'ibigendanye n'indwara babasanganye.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano barimo koza mu kanwa bakoresheje uburoso bwiza, imiti yabugenewe ndetse n'amazi. Iyi akaba ari mu bukangurambaga bwari bugamije kwigisha abakiri bato kugira isuku yo mu kanwa nka bumwe mu buryo bubafasha kwirinda indwara zitandukanye zifata igice cy'umubiri.

Umwana wishimye cyane wambaye ishati y'umweru afite uburoso bw'ubururu ndetse n'umuhondo aho arimo koza mu kanwa, ibi akaba ari bimwe bitangwa n'impuguke mu buvuzi ko kugira isuku yo mu kanwa hakoreshejwe uburoso bw'amenyo ndetse n'imiti yabugenewe, bifasha mu kurinda kwandura indwara zitandukanye zituruka ku mwanda cyane cyane zifata mu kanwa.

Abana b'abanyeshuri bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki. Aho bamaze gukora isuku yo mu kanwa. Ubu akaba ari ubukangurambaga bwari bwakozwe mu bigo by'amashuri mu buryo bwo gutoza abakiri bato kugira isuku yo mu kanwa bakoresheje uburoso ndetse n'imiti yabugenewe kugira isuku yo mu kanwa, nka kimwe mu bibafasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, aha akaba ari ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, aho abantu basuzumwaga indwara zitandukanye zo mu kanwa, ndetse abasanze barwaye bakitabwaho ndetse bagahabwa n'imiti ibafasha, kuri uyu munsi wari wateguwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru uniteze igitambaro cy'umweru arimo gukora isuku yo mu kanwa hifashishijwe uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti wabugenewe yireba mu ndorerwamo akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko kugira isuku cyane cyo mu kanwa hifashijwe amazi meza ndetse n'imiti yabugenewe ko birinda kwandura indwara zo mu kanwa zitandukanye zituruka ku mwanda.

Umusore urimo guseka cyane yambaye agapira k'umweru yicaye ku ntebe y'umufariso kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo aho ategereje muganga ngo amuheiyi serivisi ubona ko yishimye cyane bikagaragaza imitangire myiza ya serivisi hirya no hino mu mavuriro mu Rwanda.

Umukobwa uri gukora isuku yo mu kanwa yifashishije uburoso bwiza ndetse n'umuti wabugenewe aho harimo kwireba mu ndorerwamo, ibi akaba ari bimwe mu bitangwamo inama n'abaganga mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa aho abantu bagomba kugira isuku yo mu kanwa bakoresheje uburoso n'imiti yabugenewe ndetse n'amazi meza.

Umusore urimo gukora isuku yo mu kanwa yifashishije urudodo rwabugenewe rutangwa n'abaganga b'amenyo, aho rugendo runyuzwa hagati y'amenyo rukuramo imyanda ndetse n'ibisigazwa by'ibiryo, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa zituruka ku mwanda.

Umusaza wambaye ishati y'umutuku ndetse n'amarinete, yicaye arimo guseka cyane. Arimo kwitabwaho n'umuganga ushinzwe kumwitaho mu kigo cyagendewe kwita ku bakuze, bigenda biboneka hirya no hino mu Rwanda, bizwi nka Geri Haturikisi, aho arimo kumusuzuma umuvuduko w'amaraso, areba ko amaraso akiri gutembera neza. Iyi akaba ari imwe muri serivisi zihabwa ababarizwa muri ibi bigo.

Umusaza ufashe ku kuma gafite amapine arimo gufashwa n'umuforomo mu nyubako yagenewe kwita ku bakuze izwi nka jiyatrick zigaragara hirya no hino mu gihugu, aho aka kuma kifashishwa mu kumenyereza abantu kugenda bari bamaze igihe bafite ibibazo bitandukanye byo kutagenda mu rwego rwo kunanura imitsi ndetse n'imikaya.

Umusaza urimo gukarabywa amazi meza ndetse n'isabune. Uyu akaba ari mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze, ibizwi nka jetirike bigaragara hirya no hino mu gihugu, aho abari mu myaka y'izabukuru bahurizwa mu bigo runaka hanyuma bakitabwaho n'impuguke mu by'ubuzima, nka kimwe mu byiciro bikunda kwibasirwa n'indwara zinyuranye, bitera no guhanuka k'ubudahangarwa bwabo.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, haragaragara umusaza wicaye yambaye k'ukuboko akamashini kameze nk'ikasaha, aka akaba ari akamwereka uko isukari rihagaze mu kanya cyangwa se mu gihe runaka. Ibi akaba ari bimwe mu bitangirwa muri iki bigo byo kwitabwaho mu gihe bitebwagwa n'impuguke mu by'ubuvuzi.

Umusaza wicaye mu kagare ufite igikoresho cyifashishwa mu gukina imikino yo kuri mudasobwa aho barimo kuganira n'umwuzukuru we wamumusuye akaba ari mu nyubako yita ku bakuze nka kimwe mu byiciro by'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zinyuranye, aho bashyirwa hamwe bakitabwaho n'impuguke mu by'ubuzima umunsi ku w'undi harebwa ko ubuzima bwabo burushaho kumera neza.

Umusaza urimo gukora siporo zo kugorora amaboko yifashishije akuma kabugenewe agaterurwa, akaba ari gufashwa n'umuganga umwitaho mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze, aho bahurizwa hamwe bagahabwa serivisi z'ubuvuzi zinyuranye nk'icyiciro cy'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye bitewe no kugagabanyuka k'ubudahangarwa bw'imibiri yabo.

Mu kigo cyageneweta kwita bageze mu myaka ya bukuru nka kimwe mu byiciro byibasirwa n'indwara cyane zitandukanye. Hagaragara umugabo ukenyeye isume, ufite agakoresho mu ntoki ko kugenderaho k'icyuma gafite amapine. Iruhande rwe hari umuforomokazi wambaye impuzankano n'ishatig ndetse n'ipantaro y'umukara, urimo kumwerekera amufasha kugenda. Ibi akaba ari bimwe mu bikoreshwa mu rwego rwo kunanura imitsi ku bantu bafite ibibazo by'indwara zitandukanye.

Umukecuru ufite ikirahuri mu ntoki cy'amazi ndetse n'imiti mu ntoki agiye kunywa uyu akaba ari mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze nka bamwe mu cyiciro cy'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye, aho bahurizwa mu bigo bakitabwaho umunsi ku munsi n'impuguke mu by'ubuvuzi harebwa ko bagira ubuzima bwiza.

Umuforomokazi wambaye impuzankano igizwe n'igisarubeti cy'icyatsi, yambaye agapfukamunwa, aho arimo gusuzuma umusaza ugeze mu zabukuru wambaye ishati y'ubururu, akoresheje agakoresho ku mutima utera, aha akaba ari mu kigo cyita ku bangeze mu myaka ya bukuru nka bamwe mu cyiciro cyibasirwa n'indwara zitandukanye, bityo bakitabwaho n'abaganga mu bigo baba barahurijwemo hamwe harebwa uko ubuzima bwabo bumeze umunsi ku wundi.

Abantu benshi cyane bishimye baseka, bamanitse ibikoresho gakondo nk'amasuka ndetse n'ibindi bifashisha mu buhinzi bwabo, aba akaba ari abakora ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti inyuranye, ivura indwara zitandukanye. Aho bahinga ibihingwa hanyuma bigasarurwa neza kugira ngo bijye gukorwamo imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Umusaza ndetse n'umukecuru barimo guseka cyane baricaye bari gukina umukino wo gutondeka utwuma imbere ku meza, bakaba bari mu kigo kigenewe kwita ku bakuze aho bitabwaho umunsi ku wundi ndetse bafashashwa gukora imyitozo itandukanye nko gukina imikino ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri byose bigamije kubafasha kugira ubuzima bwiza muri ibi bigo baba bitabwaho umunsi ku wundi.

Umukecuru ufite imisatsi yirabura, wambaye ishati y'umuhondo, aho arimo gufata ibinini yifashishije agacupa karimo ibinini ndetse n'agafuniko kako. Uyu akaba ari mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze, nka bamwe mu cyiciro cy'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye, aho bahurizwa hamwe bakitabwaho n'impuguke mu by'ubuzima, bakurikiranwa umunsi ku wundi ngo ubuzima bwabo bumere neza.

Mu nyubako zita ku bageze mu myaka ya bukuru haragaragara umusaza urimo gufashwa n'ukora muri iki kigo kugenda kugira ngo ananure imitsi. Iyi ikaba ari imwe muri serivisi zitangwa n'abakora muri ibi bigo mu rwego rwo gufasha abageze mu myaka ya bukuru kugira ubuzima bwiza, bitabwaho umunsi ku wundi n'ab'impuguke mu by'ubuzima.

Ababama benshi cyane barimo gusoroma icyayi bishimye cyane aho bafite ibitebo binini cyane barimo kugenda bateramo amababi y'icyayi bamaze gusoroma ibibi bikagaragaza imibereho myiza y’abaturage abantu bakora uturimo dutandukanye kandi bibafasha mu kunanura imitsi ndetse n'imikaya birinda indwara zitandukanye ziterwa n'umubyibuho ukabije.

Umukecuru wicaye imbere ye hari ikirahure cy'amazi ndetse n'agakarito k'imiti aho arimo kwitabwaho n'umuforomokazi ukora muri iki kigo cyagenewe kwita ku bakuze nka bamwe mu kiciro cy'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye aho bitabwagaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza n'inzobere mu by'ubuvuzi.

Umukecuru urimo gukora imyitozo ngororamubiri yo guterura akuma gatoya cyane afashijwe n'umukobwa mwiza w'inkumi urikumwitaho. Akaba ari mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze aho bahurizwa hamwe bakitabwaho n'impuguke mu by'ubuzima, bamwe mu cyiciro cy'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara hirindwa ko bakandura indwara zinyuranye, ahubwo bagafashwa, bakanitabwaho uko bikwiriye.

Umusaza ndetse n'umukecuru wambaye imipira y'umutuku barimo kuganira. Bakaba bari mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze, nkuko bigenda bigaragara hirya no hino mu gihugu, ariko bikaba byarashyizweho mu rwego rwo kwita ku buzima bw'abakuze haba mu byiciro bikunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye kubera kugabanuka k'ubudahangarwa bw'imibiri yabo.

Umusaza wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara akaba arimo kugenda afashe ku byuma arebererwa n'umuganga umuri inyuma wambaye impuzankano yabugenewe yizwe n'ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu akaba ari mu kigo cyagenewe kwita ku bageze mu myaka ya mukuru nka bamwe mu byiciro by'abantu bikunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye bitewe no kutagira ubudahangarwa buhagije.

Umuforomokazi wambaye impuzankano y'ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu afite akuma kumva ko umutima utera aho arimo gusuzuma umusaza uri mu kigo cy'abakuze aho barimo kureba umuvuduko w'amaraso yifashishije ibikoresho byabugenewe ibi ikaba iri muri serivisi zitangwa hirya no hino mu bigo byita ku bakuze burimo kwita ku buzima bwabo umunsi ku wundi.

Mu nyubako zagenewe kwita ku bakuze, aho bahurizwa hamwe bagahabwa serivisi z'ubuzima zitandukanye, nka bamwe mu cyiciro gikunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye, haragaragara umusaza urimo kubuguza igisoro, akaba akina n'abandi basaza kugira ngo bakangure ubwonko bwabo, birinda ko bakibagirwa.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye, imbere yabo hari ameza arambitseho imiti ndetse n'udukinisho dutandukanye aho bishimye cyane barimo guseka, aha hakaba ari mu bigo byagenewe kwita ku bakuze, aho bajyanwa bakitabwaho umunsi ku wundi n'ababishinzwe mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza nka bamwe mu cyiciro cy'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye.

Umumama wambaye umupira w'umweru, uri kumwe n'akana kambaye agapira k'umweru bicaye imbere ya bo hari ameza afite ibara ry'igiti ndetse bafite n'utuntu barimo gutondeka imbere yabo. Ibi akaba ari bimwe mu bikoreshwa mu gukangura ubwonko bw'abana batozwa gukora imirimo itandukanye cyane cyane igamije gukangura ubwenge bwa bo.

Umuforomo wambaye impuzankano yabugenewe ndetse afite n'icyuma cyumvaka umutima utera arimo gusunika umusaza ku kagare aha akaba ari mu kigo cyita ku bageze mu myaka yazabukuru aho bitabwagaho n'impuguke mu by'ubuzima nka kimwe mu byiciro byibasirwa n'indwara zitandukanye kubera ubudahangarwa bwabo buba bwaramanutse.

Umukecuru wambaye ishati ifite amabara y'umutuku, n'umukara arimo kandi gufungura ku meza, aho arimo kurya amafunguro yiganjemo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, n'ibirinda indwara cyane cyane yibanda ku mboga imbere ye hari n'ikirahuri cy'amazi arimo kugenda asoma. Aha akaba ari mu ikigo cyagenewe kwita ku bakuze ibi segeri bigenda biboneka hirya no hino mu gihugu.

Umukecuru ufashe akuma gafite amapine kameze nk'urwego, agafasha mu ntoki n'amaboko, inyuma ye hari umuganga wagenewe kumwitaho, aba bakaba bari mu kigo cyagenewe kwita ku bageze mu myaka ya bukuru, aho bitabwaho n'impuguke mu by'ubuzima, hitabwaho ko ubuzima bwabo bumera neza nka bamwe mu cyiciro cy'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye.

Umukecuru wambaye ishati y'umweru, yicaye ku gatebe aho ari kumwe n'umuforomokazi wagenewe kumwitaho, mu bigo bitita ku bageze mu myaka ya bukuru nka kimwe mu byiciro by'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye, aho bashyirwa muri ibi bigo bakitabwaho umunsi ku munsi bahabwa amafunguro yuzuye ndetse banahabwa izindi serivisi z'ubuvuzi mu rwero rwo kugira ngo bagire mu ubuzima bwiza.

Umuforomokazi wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'itaburiya y'umweru. Yambaye ku rutugu akuma kifashishwa mu kumva uko umutima utera. Aho arimo gusuzuma umusaza uri mu myaka ya bukuru cyane cyane yumva uko umuvuduko w'amaraso we uhagaze. Iyi akaba ari muri serivisi zihabwa abari mu nzu zagenewe kwita ku myaka ya bukuru nka kimwe mu byiciro bikunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye.

Abantu benshi bageze mu myaka ya bukuru bicaye hamwe barimo kuganira, abari mu nyubako zihurizwamo abageze mu myaka ya bukuru kugira ngo bitabweweho n'inzobere mu by'ubuvuzi, kuko ari bamwe mu cyiciro kikunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye ndetse n'ibyorezo, kubera ubudahangarwa bw'umubiri wabo buba bwaragabanyutse.

Umusaza wambaye amadarubindi , ari kumwe n'umusore bishimye cyane bari guseka basoma igitabo, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umweru, ateretseho ibikombe barimo kunywera , aha akaba ari mu nyubako zagenewe kwita ku bageze mu myaka ya bukuru nka kimwe mu byiciro byibasirwa n'indwara zitandukanye, bitewe no kugabanyuka k'ubudahangarwa kw'imibiri yabo.

Umusaza wambaye ishati y'umutuku ari kurebana n'umukecuru bicaranye ku meza bishimye cyane baseka aha hakaba arimo ikigo cyagenewe kwita ku bakuze aho bahurizwa hamwe bakitabwaho n'impuguke mu by'ubuzima umunsi ku wundi nka bamwe mu cyiciro cy'abantu bakunda gufatwa n'indwara zinyuranye bitera kugabanyuka k'ubudahangarwa kwabwo aha baka bitabwaho bahabwa indyo yuzuye ndetse banitabwaho mu buryo bwose butandukanye.

Abamama barimo kugenda mu muhanda bakora imyitozo ngororamubiri yo kugenda , iyi akaba imwe mu nama zitangwa impuguke mu by'ubuvuzi kuko gukora imyitozo ngoramubiri itandukanye, harimo nko kwiruka kugenda n'amaguru guterura ibyuma ndetse n'ibindi ,bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza yirinda indwara zitandukanye cyane cyane ziterwa n'umubyiho ukabije, harimo umuvuduko w'amaraso diyabete ndetse n'izindi

Imifuka irimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibihingwa ndetse n'amababi n'imbuto by'ibiti bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo harimo nk'ubunyobwa, tangawizi ndetse n'amakara ibyo byose bikaba byifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye.

Umugore ndetse n'umugabo bari gukora imyitozo ngororamubiri birukanka bibafasha kugira ubuzima bwiza, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima ko gukora imyitozo ngororamubiri bigabanya ibyago byo kwandura indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije harimo nka diyaabete, kanseri ndetse n'izindi.

Umusaza wambaye ipantaro y'umweru ndetse n'umupira w'umweru wicaye mu kagare, akaba ari kurebana n'umuforomo ushinzwe kumwitaho wambaye impuzankano yabugenewe. Iyi akaba ari imwe muri serivisi zitangirwa muri ibi bigo, aho abarimo bitabwaho n'impuguke mu by'ubuvuzi umunsi ku wundi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu batatu bari kuganira bishimye baseka cyane, bafite amakarita mu ntoki, bicaye bazengurutse ameza afite ibara ry'ikigina, aha akaba ari mu nyubako zita ku bageze mu myaka ya bukuru nka kimwe mu cyiciro gikunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye, bitewe n'uko imibiri yabo iba itagikora neza.

Abamama benshi cyane bahuriye hamwe, aho barimo guhaha imboga ndetse n'imbuto bitandukanye mu isoko, nyuma yo guhabwa inama n'impuguke mu by'ubuzima ko imboga n'imbuto ari iby'ingenzi cyane mu buzima bwabo, kuko bibafasha kugira ubuzima bwiza birinda indwara ndetse banagira imyunyu ngugu bakeneye mu buzima bwabo. Mu mboga n'imbuto bihari harimo nk'inyanya, amaronji, amacunga, ndetse n'ibindi.

Umukecuru uri mu kigo cyagenewe kwita ku wageze mu myaka ya bukuru, arimo gukora imyitozo ngororamubiri yo kurambura amaboko afashijwe n'umuganga umwitaho muri iki kigo, ibi bigatuma agira ubuzima bwiza ananura imitsi, ndetse anatuma amaraso atembera mu mubiri yirinda indwara zitandukanyeshobora guterwa no kuba ari ahantu hamwe adakora imyitozo ngororamubiri itandukanye, kuko ari ingenzi cyane kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga bwakozwe n'umuryango utegamiye kuri leta wa ohimo aho bwashishikarizaga abantu bose kwita ku buzima bwo mu mutwe mu bikorwa byari byiswe Global Brain Awareness Week, aho cyari icyumweru cyahariwe ubukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe cyatangiye ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwa cumi na kumwe muri bibi na makumyabiri na rimwe kikageza ku itariki ya mbere z'ukwa mbere biri na makumyabiri na kabiri.

Abamama bari bitabiriye ubukangurambaga ku ndwara ya kanseri y'inkondo y'umura, aho iyi ndwara ifata abagore cyane cyane bageze mu myaka ya bukuru, aho barimo guhugurwa uko indwara yandura, ibimenyetso byayo ndetse banagirwa inama yo gushaka inzobere mu buzima mu gihe bobonye kimwe mu bimenyetso by'iyi ndwara, kugira ngo bitabweho n'abaganga.

Icyapa cyatanzwe na minisiteri y'ubuzima binyuze mu kigo cyita ku buzima RBC cyagaragazagaho uburyo butandukanye bwakoreshwa mu kwirinda ikwirakwira icyorezo cya Corona virus cyadutse mu mwaka w’ibihumbi bibiri na makumyabiri mu Rwanda mu buryo bumwe bwakoreshejwe harimo mu gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kwambara agapfukamunwa kwirinda gukora ku mafaranga ndetse n'ubundi.

Umusaza ufashe icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku, aho ari mu bukangurambaga bw'uko abantu bakwiye kwishingiza urukingo rw'indwara y'ubushita bw'inkende, iterwa n'agakoko ka virusi. Aho yari arimo akangurira bagenzi be baturanye, kwitabira gahunda yo gukingizwa izi nkingo hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza.

Icyapa cyatanzwe na Minisiteri y'ubuzima, ibinyujije mu kigo cyita ku buzima RBC, aho cyashishikarizaga abaturarwanda bose kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende, bakaraba amazi meza n'isabune inshuro nyinshi ndetse banirinda ibindi bikorwa bitandukanye bikwirakwiza iyi ndwara, nko gukoranaho ndetse n'ibindi.

Icyapa cyatanzwe na minisiteri y'ubuzima inyuze mu kigo cyita ku buzima RBC ku bufatanye n'abaterankunga batandukanye ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ziterwa n'udukoko WORLD ANTIMICROBIAL AWARENESS WEEK bakaba bari bafite insanganyamatsiko igira iti “twirinde indwara ziterwa n'udukoko zitandukanye”.

Uducupa dufite ibara ry'umweru ndetse n'imifuniko y'icyatsi, utu ducupa tukaba turimo umuti wifashishwa mu gukingira indwara y'ubushita bw'inkende igenda ifata abaturage hirya no hino mu Gihugu, aho yari iherutse kwaduka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane hagatangwa izi nkingo kugira ngo hirindwe ko abantu bakwandura iki cyorezo cyane cyane haherewe ku bari mu byago byo kwandura nk'abaganga ndetse n'abandi.

Icyapa cyatanzwe na minisiteri y'ubuzima kigaragaza ko kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyuka umubiri bitera imbaraga ndetse n'indwara ari kimwe bifasha abantu kugira ubuzima bwiza birindakwinjira ndetse no kurwaragurika ndetse no gufatwa n'indwara zitandukanye uwagirwa inama kuri inyo yuzuye kenshi wibanda ku mboga ndetse n'imbuto nkamwe mukungahaye ku kurinda ubuzima bw'abantu kugira uburwayi butandukanye.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, impuguke mu by'ubuzima ndetse n'abikorera bungurana ibitekerezo, barebera hamwe icyakorwa kugira ngo ibyorezo ndetse n'izindi ndwara zibasira abaturage zicike cyangwa se zihashywe burundu hagendewe ku bikoresho bihari, ndetse n'ubumenyi buhari.

Umuforomo wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara aho yambaye n'agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu akaba arimo gutanga urukingo rwa kovide cumi n’icyenda ku muntu waje kwikingiza iyi ikaba iri muri gahunda z'ubuzima zitangwa hirya no hino mu gihugu cyane cyane mu rwego rwo gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza birinda kwandura ibyorezo bitandukanye.

Ukuboko k'umuntu ufite ibiheri byinshi cyane ku kuboko bigaragara ko yafuruse iki akaba ari kimwe mu bimenyetso bitangwa n'impuguke mu by'ubuzima ko umuntu aba yanduye indwara y'ubushita bityo akaba agomba kujya kwitabira gushaka serivisi z'ubuzima byihuse kugira ngo avurwe hakiri kare.

Icyapa kigaragaza uko inzego za leta ndetse niz'abikorera zitandukanye zagakwiye kugira uruhare mu kurinda ubuzima bwabatuye igihugu hatangwa umusanzu buri wese aho nk'amashuri, insengero ndetse n'amavuriro bigaragara kuri iki cyapa byose bifite inshinzi zo kwita ku buzima bwiza bw'abaturage. Buri cyose gitanga serivisi zacyo mu buryo bunoze kandi buboneye.

Inama mpuzamahanga yahuriyemo abayobozi mu nzego za Leta abikorera ndetse n'imiryango itandukanye yita ku buzima. Aho yari iteranye ku shuro ya kabiri mu rwego rwo kwita ku buzima hirya no hino ku isi. Iyi nama ikaba yarabereye mujyi wa Kigali ahazwi nka Kigali convention centre, ndetse hari n'abari bitabiriye inama hifashishijwe ikoranabuhanga. Aho barimo kungurana ibitekerezo bareba uruhare rwa buri umwe wese mu kugira ngo imibereho myiza imere neza binyuze mu kugira isuku mu buzima bwa buri munsi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu kigaragaza uko inzego zigenda zikurikirana mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, aho ku ikubitiro hahera ku bajyanama baboneka hirya no hino mu midugudu, bikazamuka bijya ku bigo bito by'ubuzima, hakazamuka ku ibigo nderabuzima, ibitaro by'uturere gutyo, aho hose akaba ariho hasangwa serivise z'ubuvuzi zitandukanye.

Icyapa cyamamaza cyateguraga umunsi mpuzamahanga wagenewe kwita ku bimera wabaye ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na kane, aho ibimera byifashwa mu gukora imiti bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zinyuranye yaba iz'uruhu cyangwa se iz'imbere mu mubiri.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo urubyiruko, abayobozi mu nzego za leta ndetse n'abikorera aho bari kunguranira hamwe ibitekerezo, uruhare rwa buri rumwe mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage hitabwa ku cyiciro cy'ubuzima abaturage bagezwaho ibikorwa remezo by'ibanze, nk'amazi afasha kugira ubuzima bwiza birinda umwanda.

Icyapa cyatanzwe na minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo cyita ku buzima arabisi, aho cyagaragazaga uburyo butandukanye bwakoreshwa hirindwa ikwirakwira ry'agakoko ka virusi itera sida, aho bagaragazaga ko kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye, kwirinda gutizanya ibikoresho bikata ndetse n'ibindi ari bimwe mu byafasha mu kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo.

Ababyeyi bishimye cyane barimo guseka basigatiye abana, bakaba baje kubakingiza ku kigo nderabuzima kibegereye iyi ikaba ari gahunda leta yashyizweho murwego rwo gufasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza, aho abana bari munsi y' imyaka itanu bahabwa inkingo z'udukoko dutandukanye rwo kubafasha kwirinda indwara ziterwa n'udukoko ndetse bakagira ubuzima bwiza mu mikurire yabo.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe y'ubwirinzi ubwo bari mu bikorwa byo gusuzuma abanduye icyorezo cya marbag cyadutse m'u Rwanda, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho barimo gutanga serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze kandi nabo ubwabo birinda ko bakwandura iki cyorezo, bityo bikagaragaza imitangire myiza ya serivisi iri no mu bitaro.

abayobozi mu nzego za leta zitandukanye n'abakora mu nzego zitandukanye z'ubuvuzi ndetse n'abikorera ubwo bahuriye mu cyumba cy'inama mu nama yabaye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane y'ubushakashatsi ku buzima ndetse na politiki zitandukanye zita ku buzima aho yabaye ku itariki makumyabiri kugeza makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe, ubwo yari arimo gutanga urukingo rwa kovide cumi n'icyenda, ku musore wari waje kwikingiza, iyi akaba ari igihe icyorezo cya kovide cyari cyarazengereje isi, aho abakora mu nzego zitandukanye cyane cyane zita ku bantu benshi nk'ubuvuzi ndetse n'ahandi, ari bo ku ikubitiro bahawe inkingo z'iki cyorezo, mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza, harindwa ko bakandura iki cyorezo mu gihe barimo gutanga serivisi z'ubuzima zinyuranye.

Umugore wambaye ikoti ry'umweru, agasengeri k'umukara n'ipantaro y'umukara, yicaye mu ntebe, afite indangururamajwi arimo gutanga imbwirwaruhame ku bantu bari bitabiriye inama yari yateguwe na minisiteri y'ubuzima ifatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye, yari igamije kwigira hamwe uburyo barwanya inda zitandukanye ziterwa abangavu, hitabwa ko abana babyara bagira imikurire myiza nka bamwe mu cyiciro cy'abantu barimo kwibasirwa no kubyara abakiri bato.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, abikorera ndetse n'impuguke mu by'ubuzima uko bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama kugira ngo bungurane ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo imibero y'abaturage b'igihugu imere neza, bicaye neza mu cyumba cy'inama ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umwe w'impuguke mu by'ubuvuzi waturutse muri Minisiteri y'ubuzima.

Abaturage benshi bahuriye mu cyumba cy'inama bungurana ibitekerezo, bitabiriye amahugurwa yateguyewe n'ikigo cyita ku bu ubuzima kitegamiye kuri leta cya UNICEF, aho cyari kigamije gukura abagore kibereka ku ruhare rwabo mu buyobozi cyane cyane mu bijyanye n'ubuvuzi, bigaragaza ko iterambere mu buvuzi rigera kuri bose kandi rigiramo uruhare na buri bose.

Abaganga bambaye impuzankano yabugenewe ndetse n'imyenda y'ubwirinzi ubwo bari mu bikorwa byo gusuzuma icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyateye mu Rwanda ndetse hirya no hino ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, bakaba baragendaga hirya no hino gihugu basuzuma abantu b'ingeri zitandukanye bareba niba baranduye iki cyorezo, basanga baranduye bakabaha imiti kugira ngo bakivure.

Icyapa cyatanzwe n'Umuryango w'Abibumbye wita ku buzima, aho cyamenyekanishaga ko umunsi mpuzamahanga wagenewe abagore wari wageze ku nshuro yayo ya karindwi, aho yabaye ku itariki makumyabiri z'ukwa karindwi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ikabera Vancouver muri Canada.

Ubukangurambaga bwakozwe n'abaturage biganjemo urubyiruko rwambaye imipira y'umweru rufite ibyapa biri mu ibara rya move ndetse risa n'umweru ubwo bazengurukaga mu muhanda bakangurira abaturage bakanguriraga abaturage kwirinda kanseri y'ibere nk'imwe muri kanseri zari zirimo guhitana umubare w'abantu benshi aho bakanguriraga kandi abagomba kujya ku kwisuzumisha iyi kanseri mu rwego rwo kumenya uko bahagaze.

Abaganga ndetse n'abakorerabushake barimo gutanga ubutabazi bw'ibanze ku muturage wagize ikibazo cy'impanuka uguye mu myitozo ngororamubiri, ibi bikaba bimwe mugenda bikorwa hirya no hino mu gihugu n'aba bakorerabushake ba kuruwa ruje igihe babonye umuntu ufite ikibazo runaka cy'ubuzima.

Abayobozi mu nzego za Leta zitandukanye, abavuzi, abikorera, ndetse n'abahagarariye ibigo bitandukanye bahuriye mu cyumba cy'inama ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya SIDA ku isi, aho barimo kungurana ibitekerezo ku buryo bwakwifashishwa mu kurwanya ikwirakwira ry'iki cyorezo kimwe n'izindi ndwara zandura zinyuze mu mibonano mpuzabitsina.

Icyapa kinini cyane kiririmo ibara ry'umweru kiri ku marembo y'ikigo nderabuzima cya Kigina, cyanditseho Kigina senta. Hagaragara umumama uhetse umwana ushaka serivisi z'ubuvuzi kuri iki kigo nderabuzima, bikaba bigenda byito hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abaturage kwegerezwa serivisi z'ubuvuzi nka zimwe mu z'ibanze zikenewe kugira ngo abantu bagire imibereho myiza.

Inyubako icururizwamo imiti ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutanga serivise z'ubuvuzi binyuranye harimo nk'ibipfuko, inshinge ndetse n'ibindi bitandukanye. Inyubako ikaba izwi ku izina rya farumasi, aho abandikiwe imiti na muganga baza kuyishaka yewe n'abakeneye itandikwa na muganga na bo bakaba bayibona, bikagaragaza imitangire myiza ya serivise z'ubuvuzi hirya no hino mu gihugu.

Icyapa kinini cyane kiri ku muhanda kigaragaza ibitaro bya kaminuza byo kwigisha bya Butare bizwi nka seshibe aha akaba ari yatangirwa serivisi z'ubuvuzi zinyuranye harimo gusuzuma, gutanga imiti, gufata ibizamini ndetse n'ibindi, byose byorohereza abegereye ibitaro kubona serivisi nziza z'ubuvuzi zigezweho hifashishwa ibikoresho ndetse n'abaganga b'inzobere.

Hirya no hino mu gihugu hagenda hagaragara ibikorwa bitandukanye bigamije kwita ku mibereho myiza y'abaturage ndetse no kwita ku buzima bw'abakiri bato nk'abana. Aho bagenda bapimwa ibiro buri kwezi mu gihe bakiri bato, harebwa imikurire yabo ngo barebe niba bari mu murongo mwiza y'imikurire, cyangwa se basanga bafite ibibazo by'imikurire bakitabwaho bahabwa iby'ibanze nkenerwa nk'amafunguro ndetse n'ibindi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze ahagaragara imiti yaba gakondo cyangwa se iya kizungu itandukanye izwi nka farumasi, hagaragara kandi n'ibindi bikoresho byifashishwa muri serivisi z'ubuvuzi binyuranye: nk'uturindantoki, ibipfuko, amapombo ndetse n'ibindi.

Mu bitaro kwa muganga ahatangwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, haragaragara umuforomo wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati y'icyatsi ndetse n'ipantaro y'icyatsi, aho barimo kugenda mu cyumba cyagenewe kurwariramo abarwayi bitabwaho n'inzobere mu by'ubuvuzi, bahabwa imiti ku gihe ndetse n'ibindi nkenerwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi aha akaba ari mu cyumba cyagenewe kwita ku barwayi barwariye mu bitaro babamo, aha hakaba hagaragara ibitanda byinshi bisashe amashuka y'ubururu n'umweru, aho kandi buri murwayi aba afite akabati ashyiramo ibikoresho bye mu gihe arimo kwitabwaho n'abaganga.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, hagaragara ibyuma ndetse n'ibikoresho byihariye bikoreshwa mu gukora izi serivisi. Hakaba ari mu cyumba gisuzumirwamo indwara zifata umutwe, aho cyane cyane bashyiramo umutwe hanyuma imashini zabugenewe zikareba ibibazo biriho kugira ngo umurwayi ahabwe ubuvuzi bujyanye n'ibibazo by'iwe.

Inyubako y'igisengenyi cy'umutuku ifite igorofa isize amarangi y'umweru aho bigaragara ko ikoreramo ibitaro byashyira nkuko birangwa n'ibyapa bimanitse kuri iyi nzu byashyira district hospital aha akaba hatangirwa serivisi z'ubuvuzi yaba gusuzuma guhabwa imiti ndetse n'izindi ku bazikeneye batiye ibi bitaro.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngoramubiri itandukanye izwi nka jiminasitike, hagaragara ibyuma bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo itandukanye, harimo nk'imashini zo kwirukiraho, amagare yo kunyonga, ibyuma byo guterura, ndetse n'ibindi, ibi bigafasha gukora imyitozo, kugira ubuzima bwiza, ndetse no gukomeza imikaya.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kigaragaza ko inyubako ikorera mu farumasi ya Mediyasoro, ishami rya Kanombe. Aha akaba ariho hatangirwa serivise z'ubuvuzi bw'ibanze, aho kandi abandidikiwe imiti na muganga bashobora kubisanga cyo kimwe n'ibindi bikoresho byose by'ibanze bikenerwa mu buvuzi nk'amapamba ndetse n'ibindi.

Inyubako ndende y'amagorofa menshi, ifite ibirahuri by'ubururu, ndetse isize amarangi y'umweru, ikaba ifite n'ubusitani imbere yayo. Inyubako ikaba ikoreramo ibitaro bya polycliniquu du plateau, aha akaba ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, nko gusuzuma, gutanga imiti ndetse n'ibindi. Aho abakeneye serivisi z'ubuvuzi bagana iki kigo hanyuma bakazihabwa kandi ku giciro cyiza.

Inyubako nziza cyane ifite igisenge cy'umukara isize amarangi y'umweru, imbere yayo hari icyapa cyanditseho ijambo ahafu Rwanda. Iki akaba ari ikigo kitegamiye kuri leta gifasha muri serivisi z'ubuvuzi zitandukanye yaba mu gutanga amahugurwa, gutanga ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibindi bufasha bwose bukenerwa kugira ngo serivisi z'ubuvuzi zinozwe kandi zigire ireme.

Inyubako yo kwa muganga ikorerwamo ibikorwa byo gusuzuma ibizamini byafashwe n'abaganga hagaragara abaganga bambaye uturindamunwa ibikoresho by'isuku ndetse n'imyenda yabugenewe aho barimo kureba ibizamini bashyize mu imashini niba yamaze kubitunganya ngo barebe icyo abarwayi barwaye bahabwe imiti hagendewe ku bisubizo by'ibizamini bafashwe.

Mu bitaro kwa muganga icyumba gisuzumirwamo ahagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa n’umuganga nka mudasobwa , imashini isohora impapuro n'ibindi hari kandi n'igitanda cyifashishwa mu gihe yasuzuma umurwayi , intebe yo kwicaraho ndetse n'ibindi by'ibanze akenera kugira asuzume ,bikagaragaza imitangire myiza ya serivisi ndetse n'iterambere mu buvuzi.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zinyuranye hagaragaramo nko gusuzuma, gutanga imiti, gufata ibizamini ndetse n'izindi. Hakaba ari mu cyumba cyagenewe gusuzuma abana cyane cyane abafite ibibazo by'amaso, aho baryamishwa ku gitanda gishobora kuzamurwa cyangwa kikamanurwa hanyuma bagasuzumwa hifashishijijwe ibikoresho byababugenewe ,bikagaragaza iterambere mu buvuzi. hatangwa serivisi nziza ku bashaka serivisi z'ubuvuzi ndetse binongera ireme ndetse n'icyizere cyo kubaho ku banyarwanda

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye hagenda hagaragara ibyumba by'umwihariko ibitangirwa serivisi runaka, aha akaba ari mu cyumba cy'isuzumiro cyane cyane kuba barwaye indwara z'amaso, ahari ibikoresho kabuhariwe byifashishwa muri ibi bikorwa bigafasha imitangire myiza ya serivisi ndetse bikanerekana iterambere mu buvuzi mu Rwanda.

Icyapa kinini cyane kigaragaza inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zinyuranye z'ibitaro bya HOPITAL DE LA CROIX DU SUD KWA NYIRINKWAYA, aha akaba ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zinyuranye harimo nko gusuzuma, gutanga imiti ndetse n'ibindi cyane cyane hakaba hazwiho kwita ku babyeyi babyara nka bimwe mu bitaro by'intangarugero mu gutanga iyi serivisi.

Inyubako ndende cyane ifite amagorofa abiri isize amarangi y'umweru ndetse ifite n'ibikorwa remezo imbere yayo nk'imihanda ubusitani ndetse ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zinyuranye harimo nko gusuzuma gutanga imiti gucumbikira abarwayi kuba insimburangingo ndetse n'ibindi bitangirwa hirya no hino mu bitaro nk'imwe muri serivisi z'ingenzi zikenerwa n'abatuye igihugu.

Inyubako isize amarangi y'umuhondo ifite ubusitani mbere yayo ikaba ikoreramo ibitaro bya Caraes freres de la charite ibi bikaba bitanga serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zo mu mutwe nk'agahinda gakabije ndetse n'izindi aho bita cyane cyane ku bafite uburwayi bunyuranye bwo mu mutwe.

Inyubako yubatse neza cyane ifite igisenge cy'ubururu isize amara y'umweru imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane bugizwe n'amajaride ndetse n'uduhandaa twagenewe kunyuzwamo n'abanyamaguru iyi ikaba itangirwarwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye aho bantu basuzumirwa ndetse bagahabwa imiti mu gihe bafite ibibazo by'uburwayi binyuranye, bigafasha imitangire ya serivisi ndetse no kugeza sevisi zo kuvuza abaturage hirya no hino mu gihugu

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, hagaragara abavuzi bifurebye neza cyane birinda indwara ndetse n'ibyorezo bashobora kwandurira mu bitaro. Aho bambaye impuzankano igizwe n'amasarubeti y'umweru n'ubururu, uturindantoki, udupfukamunwa ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kurinda imyanya y'ubuhumekero. Hagaragara abarwayi baryamye ku bitanda batandukanye, aho barimo guhabwa serivisi z'ubuvuzi zinyuranye.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, aha hakaba ari mu cyumba gisuzumirwamo ibibazo bitandukanye byo mu mutwe; yaba imvune ndetse n'ibindi binyuranye, aho umurwayi aryamishwa ku gitanda, hanyuma umutwe ugashyira mu cyuyuma gisikana hakarebwa niba nta ndwara cyangwa se ibindi bibazo runaka afite, hanyuma bikagenderwaho mu kumuha ubuvuzi bumukwiriye.

Inyubako zikorerwamo ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri bitandukanye, harimo nko kwiruka, guterura ibyuma, gutwara igare ndetse n'ibindi, ibi byose bikaba bigamije ko abakora iyi myitozo bagira ubuzima bwiza, hirindwa ko bakwandura indwara zitandukanye zituruka ku mubyibuho ukabije, harimo nk'umuvuduko w'amaraso, kanseri, diyabete ndetse n'izindi.

Inyubako ifite igisenge cy'umutuku ndetse n'amarangi y'umutuku umweru n'ubururu ikabatangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko gusuzuma ndetse no gutanga imiti ku gushaka izo serivisi bikorohereza abatuye ako gace kudakora ingendo bajya gushaka serivisi z'ubuvuzi, ahubwo bakazibona hafi yabo biboroheye.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, hagenda hagaragara ibyapa biyobora abashaka serivisi zinyuranye kwa muganga, aha akaba ari mu nyubako yagenewe kubyariramo izwi nka materinite, ahagaragara muganga ukora muri iyi nyubako arimo kugenda yinjira mu muryango w'iyi nyubako.

Mu bitaro kwa muganga hagaragara urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'inyubako zitandukanye, zitangirwamo serivisi zinyuranye nko kubagwa, gusuzuma ndetse n'izindi. Aho abantu baza bagahabwa serivisi z'ubuvuzi bafite amakarita y'ubwisungane mu kwivuza, hanyuma bakazamura imibereho myiza yabo ndetse n'imibereho muri rusange.

Inyubako icururizwamo imiti ndetse n'ibindi bikoresho bijyanye n'ubuzima izwi nka farumasi, ahagaragara imiti itandukanye, yaba ikoze mu bimera ndetse n'iyandikwa n'abaganga itandukanye. Iyi akaba ari farumasi iherereye mu mujyi wa kigali, aho ubona serivisi z'ubuvuzi zitandukanye.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye hakaba ari mu cyumba cyagenewe gusuzumiramo abarwayi hari igitanda gifite amashuka y'umweru ndetse iruhande yacyo hari ibyumba byinshi cyane byifashishwa mu gusuzuma abarwayi hagamijwe ko bahabwa serivisi z'ubuvuzi zigezweho ndetse hanasuzumwa neza koko uburwayi bwabo.

Abanyeshuri bitegura kuba abaganga aho bari kwiga bashyira mu ngiro ubumenyi bize mu mashuri bizwi nka laboratori puragitise, aho baba bakora ibyo bigishijwe mu mashuri. Aba akaba ari abategura kuvamo abaganga b'ejo hazaza bakaba habwa ububumenyi bunyuranye, yaba gufata ibizamini, kubisuzuma ndetse n'ibindi, kugira ngo bajye gutanga umusanzu wa bo igihe basoje amashuri.

Inyubako ifite igisenge cy'ubururu yubakishije amatafari ahiye. Iyi ikaba ikoreramo ikigo nderabuzima cya Gishwera. Aha hakaba hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye bw'ibanze, nko gusuzuma ndetse no gutanga imiti byoroheje. Hagaragara urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, ibi bikorohereza abaturage baturiye iki kigo nderabuzima guhabwa serivisi z'ubuvuzi hafi kandi babegereye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima zitandukanye harimo nko gusuzuma gutanga imiti, gufata ibizamini ndetse n'izindi hagaragara urujya n'uruza rw'abantu bagiye gushaka serivisi ibi bikaba bishyirwamo imbaraga na guverinoma y'u Rwanda mu rwego guteza imbere ubuvuzi hitabwako buri gace kagira ibitaro ndetse n'abaganga b'inzobere bavura indwara zitandukanye bakaba boneka ku gihe.

Abajyanama b'ubuzima , abakozi b'ibitaro ndetse n'abayobozi mu nzego za leta n’izamatorero ubu bari bishimye nyuma yo gutaha inzu nshya y'ababyeyi izwi nka materinite y'ibigo nderabuzima yari imaze kubakwa nyuma y'imyaka myinshi iyi serivisi itaba ku kigo nderabuzima bakaba bari bishimiye iyi serivisi ko naho yahageze ndetse n'abaturage bishimiye ko bagiye kuzajya bayibonera hafi yabo.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi haragaragara abaforomo bari kwita ku barwayi barwariye kwa muganga ku bitanda byabo babaha imiti nkuko byanditswe n'abaganga ibi bikagaragaza imitangire myiza ya serivisi muri ibi bitaro ndetse bikongerera icyizere cy'abari gushaka serivisi muri ibi bitaro.

Inyubako nini cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, harimo nko gusuzuma, gutanga imiti gufata ibizamini, serivisi zo kubyara, ndetse n'izindi zitandukanye z'ubuzima, aho abaturiye iri vuriro babonera serivisi z'ibanze z'ubuvuzi, ndetse n'izisumbuye kugihe bagize ibazo bitandukanye mu buzima.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zinyuranye. Ahagaragara ibikoresho by'ibanze nkenerwa , mu gihe basuzuma . Harimo nk'ibitanda biryamishwaho umurwayi , imashini zabugenewe zifashishwa mu gusuzuma ndetse no kureba neza ibizamini . Ibikoresho byifashishwa na muganga ; isaha ndetse n'ibindi bitandukanye bikenerwa mu cyumba gisuzumirwamo abarwayi .

Umuforomokazi wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu aho arimo kwita ku murwayi urwariye mu bitaro amwambika neza imyenda amufungira n'ibipesu akaba arimo muri serivisi zitangwa n'abaforomo hirya no hino mu bitaro hagamijwe ko abarwariyemo bagira isuku ndetse bagira n'ubuzima bwiza bitabwaho umunsi ku wundi.

Umuforomo wambaye impuzankano yabugenewe ari kwita ku burwayi uryamye ku gitanda aho gishobora kuzamuka cyangwa kikamanurwa aho arimo kumufata ibizamini kugira ngo asuzumwe indwara yaba afite ibikoramo bikorerwa mu bitaro hirya no hino mu gihugu hasuzumwa indwara umuntu arwaye hanyuma agahabwa imiti hagendewe ku bizamini bamufashe ndetse n'indwara bamusanganye.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye nko gusuzuma, gutanga imiti ,ndetse n'izindi hagaragara umuganga wambaye itaburiya yabugenewe agapfukamunwa ndetse afite n'icyuma cyumva ku mutima utera aho arimo gusuzuma umwana waje gushaka serivisi z'ubuvuzi nka kimwe mu byiciro by'abashaka serivisi hirya no hino mu gihugu.

Inyubako ifite igisenge cy'ubururu, imbere yayo hari ubusitani bwinshi, hakaba hamanitse icyapa kigaragaza ko gikoreramo ikigo nderabuzima cya Tabagwe, aha hakaba ari mu karere ka Nyagatare, hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko gusuzuma, guhabwa imiti ndetse n'izindi zinyuranye. aho abaturage begerejwe serivisi hirya no hino mu gihugu z'ubuvuzi.

Umwana wambaye kositime arimo gucunga umusaza mu kagare wicayemo bigaragara ko afite ikibazo cy'ubumuga. Aha hakaba ari mu ibitaro kwa muganga aho abafite ibibazo bitandukanye by'ingingo boroherezwa kubona serivisi hakoreshejwe ibikoresho bitandukanye nk'utugare ndetse n'ibindi. Ibi byose bikaba ukwita ku buzima kuri bose batarobanuye ndetse hatagendeye no kubafite ubumuga runaka.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwagwa serivise z'ubuvuzi zitandukanye harimo nko gusuzuma, gutanga imiti ndetse n'izindi, aha akaba ari mu cyumba cyagenewe gusuzumirwamo aho gisize amaranye y'umweru, harimo ibikoresho byaho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma ndetse no kunoza akazi kabo ka buri munsi, ibi bikagara iterambere mu buvuzi aho hirya no hino mu bitaro hagaragara ibikoresho bijyanye n'igihe byifashishwa mu kunoza uyu mwuga.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye harimo gusuzuma gutanga imiti gufata ibizamini ndetse n'ibindi aha akaba ari mu cyumba gisuzumirwamo abarwayi cyane cyane abafite ibibazo byo mu mutwe aho hari imashini itura zabugenewe zifitemo utwuma twumva uko umubiri utera aho umurwayi aryamishwa ku gitanda hanyuma kikoherezwa muri iki cyuma agasuzumwa neza aka ubuvuzi bumukwiriye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko gusuzuma, kuhatanga imiti ndetse n'izindi hagaragara umu mama uvuye kuvuza umwana arimo kugenda amufasha akaboko imbere yabo kandi hari undi mwana ufite ibase mu ntoki bigaragara avuye gukora amasuku ahagaragara kandi busitani bwiza cyane ndetse n'indabo bizana n'umwuka mwiza ku baje gushaka serivisi muri iki kigo.

Inyubako ndende yubakije amatafari ahiye, ifite igisenge cy 'umweru, iriho icyapa cya minimo pashiyenti senta. Aha akaba ari ikigo cyita ku barwayi, cyane cyane bamwe batavurirwa kwa muganga, ahubwo baba barasohotse ibitaro bitewe n'uburwayi bwabo ,bagakurikiranwa bari hanze. Bakabona serivisi z'ubuvuzi zinyuranye, cyane cyane hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze iruhande rw'icyapa cy'ibitaro bya Butaro. Ibyi bitaro bikaba bifite umwihariko wo kuvura kanseri mu Rwanda, aho biherereye mu Karere ka Burera mu Ntara y'amajyaruguru. Bitanga serivisi z'ubuvuzi ndetse hifashijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse n'abaganga b'inzobere guturuka muri Amerika, bafasha gutanga neza serivisi zo ku kuvura kanseri.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'ubururu kimanitse mu marembo y'ibitaro bya Kabgayi kiyobora abaza gushaka serivisi zitangiza z'ubuvuzi kibamenyesha ko bahageze, aha hakaba hatangirwa serivisi zinyuranye harimo n'ubuvuzi bw'amaso, ubuvuzi busanzwe, gusuzuma, gufata imiti ndetse n'izindi; nka zimwe muri serivisi zitangirwa muri ibi bitaro biherereye mu Karere ka Muhanga.

Inyubako ifite igisenge cy'icyatsi ndetse n'ubusitani bwinshi cyane irimo utuyira twinshi dutandukanye yaba itwibinyabiziga ndetse n'utwabanyamaguru ikaba iri ahantu hatangirwa serivisi z’ubuvuzi bwo mu mutwe hahurizwa abantu bafite ibibazo bitandukanye nk'agahinda gakabije ibizwi nko gusana ndetse n'ibindi aho bahurizwa hamwe bakitabwaho n’imuguke mu by'ubuzima kuko nazo ari indwara nk'izindi kandi zivurwa zigakira.

Inyubako zikorerwamo ibikorwa by'imyitozo rusange ngororamubiri bizwi nka jimunasitike aho haba hari ibyuma bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo nk'ibyuma byo kwirukiraho, amagare yo kunyonga, ibyuyuma byo guterura ndetse n'ibindi bifasha abakora imyitozo gukomeza imikaya ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Abaturage bari bahuriye mu nama n'abafite uruhare mu gutanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, mu cyumba cy'inama barimo kungurana ibitekerezo, harebwa uruhare rwa buri umwe mu kurwanya indwara zitandukanye zitandura, harimo nka Diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi, hibandwa mu gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye.

Icyumba gitunganyirizwamo ibizamini byafashwe abarwayi kwa muganga, kizwi nka laboratware hagaragara ibikoresho bitandukanye ndetse n'amamashini agezweho, byose bigamije kugira ngo serivisi z'ubuvuzi zinozwe kandi zigire ireme. Havurwa bigendewe ku bizamini byafashwe umuntu agasuzumwa neza ndetse agahabwa ubuvuzi bumukwiriye.

Mu bitaro ahatari serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko gusuzuma guhabwa ibiti ndetse n'ibindi ahakaba ari mu cyuma gisuzumirwamo abafite ibibazo by'amenyo bitandukanye hagaragara intebe zifite imifariso y'icyatsi ndetse n'imashika ubuhari buzifasha mu gusuzuma amenyo bikagaragaza iterambere mu buvuzi ndetse n'icyizere kuri guverinoma mu gushyira imbaraga mu buvuzi.

Abaforomokazi bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n’izo ngofero zo mu mutwe ndetse n'amashati n'amapantaro bifite ibara ry'ubururu, aba bakaba bagira uruhare cyane mu gutanga serivisi z'ubuvuzi bita ku barwayi ndetse banabahera imiti ku gihe uko biba byanditswe na muganga, ibi bigafasha abasaba serivisi z'ubuvuzi zitandukanye kuzibona neza kandi ku gihe ndetse bikazamura n'icyizere cy'abazishaka hirya no hino mu bitaro.

Urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka serivisi zitandukanye z'ubuvuzi kwa muganga, aha hakaba ari aho bakirirwa harebwa imyirondoro yabo ndetse banahabwa amanimero bari bugendereho bashaka serivisi, ibi bikanoza imitangire ya serivisi mu rwego rw'ubuzima hirya no hino aho zitangirwa.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe, igizwe n'itaburiya y'umweru ndetse yambaye n'agapfukamunwa, aho ari guha serivisi z'ubuvuzi umwana w'umuyeshuri wambaye impuzankano wagize imvune y'akaboko, amwambika igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kurinda ko imvune yakomeza gukomera.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye hagenda hagaragara ibyapa byanditse ku mazu cyangwa se ku byapa bimanitse hirya no hino mu bitaro biyobora abasaba serivisi mu bitaro kumenya aho bashakira serivisi bakeneye, iyi akaba ari inyubako ikorerwamo serivisi zo gusuzuma malariya hagaragara umuganga ukora muri iyi nyubako.

Inyubako ifite igisenge cy'umweru, isize amarangi y'umweru ndetse yubakishijwe amatafari, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane bugizwe n'indabo. Iyi ikaba ikoramo ikigo nderabuzima cya Rwerere hatangirwa serivisi z'ubuvuzi tandukanye nko gusuzuma, guhabwa imiti ndetse n'izindi serivisi z'ubuvuzi zitandukanye ku baturage babereye ikigo nderabuzima.

Inyubako nyinshi cyane zubatse hamwe, zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, nko gusuzuma, gufata ibizamini, gutanga imiti, n'ibindi, bigafasha abaturage bazegereye kubona serivisi z'ubuvuzi, yaba ubuciriritse ndetse n'ubwisumbuye, bitabagoye batanakoze urugendo, ahubwo bakazibona hafi yabo, nk'imwe muri gahunda nziza ya leta y'igihugu yashyizeho.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'amaso, haragaragara imitako myiza cyane ndetse n'udutebe twagenewe kwicarwaho n'abaza gusaba serivisi z'ubuvuzi bw'amaso muri iyi nyubako. Ibi bikagaragaza imitangire myiza ya serivise ndetse n'icyizere abantu bagirira mu buvuzi, ubwo baza gushaka serivise z'ubuzima hirya no hino mu gihugu.

Inyubako ndende cyane ifite amabara y'umweru imbere y'ayo haparitse y'ibinyabiziga bitandukanye, harimo n'ibizwi nk'imbangukiragutabara byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi bwihuse igihe bibaye ngombwa. Iyi nyubako ikaba ikoreramo ibitaro bya legasi bitanga serivisi z'ubuvuzi harimo nko gusuzuma, guhabwa imiti, gufata ibizamini, ndetse n'izindi.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye hari ibikoresho runaka byifashishwa mu gutanga izo serivisi, aha hakaba ari mu cyumba gisuzumirwamo abarwayi bafite ibibazo by'umutwe bitandukanye yaba imvune cyangwa ubundi burwayi bufata igice cy'umutwe, aho basuzumirwa hari igitanda aho baryamamo hanyuma bakohereza umutwe mu mashini zabugenewe kugira ngo zibasuzume bahabwe ubuvuzi bwizewe.

Abaturage benshi batonze umurongo baje gushaka serivisi z'ubuvuzi ziri gutangirwa ku cyumba rusange cyateguwe cyo gusuzumirwaho indwara zitandukanye zitandura harimo nka diyabete ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Ibi bikaba ari ibikorwa ngarukakwezi bitegurwa na minisiteri y'ubuzima ikagenda izenguruka hirya no hino mu gihugu, ifasha abaturage kwisuzumisha indwara zitandura ndetse basanga bararwaye bagatangira imiti ku gihe.

Inyubako ndende cyane ifite amarangi y'umutuku imanitseho ibyapa bitandukanye, ikabikora mu ivuriro rya polikerinike doratuwari. aha hakaba ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zinyuranye, harimo nko gutanga imiti, gufata ibizamini, gusuzuma ndetse n'izindi.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwawe serivisi zitandukanye, aha hakaba ari mu cyumba gicururizwamo indorerwamo zikanasuzumirwamo indorerwamo benshi bazi nka marinete, aho abafite ibibazo bitandukanye by'amaso basuzumwa bagakorerwa ibizamini basanga bakeneye irinete bakabohereza muri iki cyumba.

Inyubako nini cyane ifite igisenge cy'ubururu isize amarangi y'umuhondo ikoreramo ikigo nderabuzima cya shagasha. Aha akaba ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye harimo nko gusuzuma ndetse no guhabwa imiti. Hagaragara abantu baje gushaka serivisi aho batonze umurongo bategereje guhabwa serivisi z'ubuvuzi mu kubabaje kuzishaka kuri iki kigo nderabuzima.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko gusuzuma, gutanga imiti ndetse n'izindi aha hakaba ari mu cyumba gisuzumirwamo abarwayi hagaragara ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho harimo ibyumvuka umutima utera, ibireba uko umutima uhagaze ndetse n'imashini rutura zifashishwa mu gusuzuma, ibi byose bigamije gutanga imibereho myiza ndetse na serivisi nziza z'ubuvuzi ku baje bagana ibitaro.

Mu bitaro bitandukanye hirya no hino mu gihugu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zigezweho ndetse zinanyuranye, aho umuntu ashobora kwisuzumisha, gutanga ibizamini ndetse no guhabwa imiti igihe afite ibibazo runaka. Aha akaba ari mu cyumba cya hamwe mu bitaro gisuzumirwamo abafite uburwayi butandukanye, hagaragara intebe nziza ya kijyambere ifite umufariso, aho ishobora kuzamuka cyangwa ikamanurwa igihe umurwayi arimo gusuzumwa. Ibyo bikagaragaza ikoranabuhanga ndetse n'iterambere mu buvuzi hirya no hino mu Rwanda.

Kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, nko gusuzuma, guhabwa imiti ndetse n'izindi. Aha akaba ari mu cyumba kirwariramo abarembye, aho baryama ku bitanda ndetse iruhande rwa bo hakaba hari amamashini atandukanye abafasha mu gukotorora uko ubuzima bwa bo buhagaze, bityo bakitabwaho n'inzobere bahabwa imiti ku gihe.

Abaforomo bane bambaye impuzankano ibaranga iyo bari mu kazi ndetse n'udupfukamunwa, bahagaze imbere y'ibitaro mu cyumba gitangirwamo serivisi zo kubyara ahazwi nka materinite. Iyi akaba ariyo muri serivisi ziboneka mu bitaro byo hirya no hino mu Rwanda, aho abantu batakibyara mu rugo ahubwo babyarira kwa muganga bitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo hitabwe ku buzima bw'ababyeyi ndetse n'abo bibarutse.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, harimo nko gusuzuma, gutanga ibizamini, gutanga imiti, ndetse n'izindi. Hagenda hagaragara ibyapa bitandukanye biyobora abashaka serivisi runaka bibereka aho zitangirwa, ibi bikagaragaza imitangire myiza ya serivisi muri aya mavuriro.

Inyubako nziza cyane y'igorofa itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko gusuzuma guhabwa imiti ndetse n'izindi aho abaje gushaka serivisi muri iyi nyubako bafashwa bagenda bareba imiryango bakeneyemo serivisi nkuko biba byanditse ku twapa turanga ahatangirwa serivisi.

Inyubako nziza cyane isize amarangi meza y'ibara ry'umweru, icyatsi ndetse irimo n'amarido, aha akaba ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko mu cyumba gicumbikirwamo abarwayi barwariye mu bitaro kugira ngo bitabweho bahabwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye. Ibi bikagaragaza imitangire myiza ya serivisi y'ubuvuzi ndetse n'iterambere mu buvuzi hirya no hino mu gihugu.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye , nko gusuzuma, gutanga imiti , ndetse n'ibindi ,aha hakaba ari mu cyumba cyagenewe gucumbikiramo abarwayi barwariye kwa muganga, aho babitabwaho n'inzobere mu by'ubuvuzi haba mu guhabwa imiti ndetse n'ibindi bakeneye mu buzima bwabo. Bikagaragaza imitangire myiza ya serivisi ndetse n'iterambere mu buvuzi aho abaturage bagirira icyizere mu buyobozi ndetse no mu mavuriro yabo .

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, nko gusuzuma gufata imiti ndetse n'ibindi. Aha akaba ari mu cyumba cyagenewe gusuzumamo indwara zo mu mutwe ahari ibyuma byabugenewe ndetse n'igitanda kiryamishaho umurwayi mu gihe agiye guhabwa ubwo buvuzi.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi aha akaba ari mu nzira nyabagendwa aho buri muryango ufite icyapa kigaragaza ibikorerwamo ibi bikorohereza abaza gusaba serivisi bamenya aho babonera ibyo bakeneye ndetse bikoroshya n'imitangire ya serivisi muri ibi bitaro.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri itandukanye, nko kwirukanka ku byuma, guterura ndetse n'ibindi. Ibi byose bigamije kunanura ibikaya ndetse no gukangura imyakura, nka bumwe mu buryo butangwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima bufasha mu kwirinda indwara zitandura, nka Diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Inyubako ndende cyane isize amarangi y'umweru, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane ndetse buimo n'imihanda itandukanye y'amabuye ahagaragara urujya n'uruza rw'abantu, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zinyuranye nko gusuzuma, gufata ibizamini gutanga imiti ndetse n'izindi.

Muganga wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'itaburariya y'umweru afashe mu intoki agakoresho kifashishwa mu kumva uko umutima utera aho ari gusuzuma umurwayi uri mu bitaro ibi bikaba bigaragaza imitangire myiza ya serivisi z'ubuvuzi nkuko bigaragara mu bitaro hirya no hino mu gihugu hitabwa k’ubuzima abantu bitabwaho n'abaganga b'inzobere ndetse banahabwa imiti ivugiye.

Kwa muganga hatangagwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, hagaragara ibyapa bimanitse hirya no hino biyobora abashaka serivisi z'ubuvuzi zinyuranye, kumenya aho bashakira izo serivisi ndetse no kumenya aho babaze igihe bagize ikibazo runaka. Aha hakaba arimo igice cyagenewe abaforomo, aho umuntu ukeneye serivisi zitandukanye zitangwa n'abaforomo, abariza agafashwa hanyuma agahabwa serivisi. Ibibi bikagaragaza imitangire ya serivisi hirya no hino mu nzego z'ubuvuzi mu Rwanda.

Abaganga babiri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'itaburiya y'ibara ry'umweru bambaye kandi udupfukamunwa, aho bari kureba imashini iri imbere yaho bashyizemo ibizamini bafasha abarwayi batandukanye kugira ngo ibisuzume hanyuma yerekane icyo barwaye, hanyuma bahabwe serivisi z'ubuvuzi hagendewe ku ndwara babasanganye.

Urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka serivisi zitandukanye z'ubuvuzi kuri bimwe mu bitaro biherereye mu ntara y'amajyepfo, hagaragara umusekirite ukora ku marembo y'ibitaro wambaye impuzankano y'ikigo kimuranga. Imbere kandi hari icyapa kinini cyane gifite amabara y'ubururu n'icyatsi kigaragaza serivisi zitandukanye zitangirwa muri ibi bitaro ndetse n'icyerekezo cyaho zitangirwa.

Inyubako nini cyane y'igorofa imanitseho icyapa kigaragaza ko ikoreramo farumasi ya Goodlife. Aha hakaba ari ahacururizwa imiti itandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bijyana n'ubuzima, yaba imiti yanditswe na muganga ndetse n'igurwa itanditswe na muganga, hagaragara kandi n'ibindi bikoresho by'ibanze nk'amapamba, ibipfuko, udupfukamunwa ndetse n'ibindi byifashishwa mu buvuzi hirya no hino.

Inyubako y'amagorofa abiri isize amarangi y'umweru ifite ibirahure by'ubururu, ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bitandukanye. Imbere hagaragara urujya n'uruza rw'abantu baje kushaka serivisi zinyuranye muri ibi bitaro; nko kwisuzumisha, gufata imiti ndetse n'izindi.

Inyubako nyinshi cyane zifite ubusitani hagati zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko gusuzuma , guhabwa imiti ndetse n’ibindi ahamanitse kandi ibyapa ku miryango ndetse no mu nzira biyobora abashaka serivisi zitandukanye z'ubuvuzi kumenya aho bazisabira ndetse n'aho bazikura.

Mu bitaro kwa muganga hagaragara ibyumba bitandukanye bitangirwarwamo serivisi zinyuranye, aha hakaba arimo icyumba cy'isuzumiro hagaragara ibitanda biryamishwaho abarwayi, hanyuma bagasuzumwa hifashishwajwe ibikoresho by'ikoranabuhanga bigizwe na mudasobwa ndetse n'ibindi bimanitse hejuru y'ibitanda, ibi byose bikanoza imitangire ya serivisi ndetse n'ubuvuzi bufite ireme havurwa icyo umuntu arwaye.

Umuganga wambaye impuzankano igizwe n'itaburiya y'umweru ndetse afite icyuma cyumva ko umutima utera kurutugu yambaye amadarubindi arimo guseka afite impapuro mu ntoki aha akaba arimo guhugura ababyeyi bitegura kwibaruka ababwira ko bagomba gufata indyo yuzuye nkabumwe mu buryo buzatanga abana bazima ndetse nabo kandi bakagira ubuzima bwiza mu gihe batwite.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye cyane cyane ubw'imizi ndetse n'ingingo hifashijwe gukora imyitozo ngororamubiri haba mu buryo bwifashishwa n'abaganga b'abahanga mu by'imitsi ndetse n'amagufwa bifashisha mu kuvura indwara zinyuranye aho bakoresha ibikoresho kabuhari bifasha abantu kurambura amaguru ndetse n'imikaya bikabafasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kuruhuka mu mutwe.

Mu bitaro kwa muganga hagaragara ibikoresho bitandukanye mu cyumba gisuzumirwamo ibizamini, hari kandi n'umuganga wahuguriwe gukoresha ibikoresho, imbere ye hari imashini nini cyane yifashishwa mu gusuzuma ndetse no kubona indwara zitandukanye mu bizamini biba byafashe abarwayi, ibi bikanoza imitangire ya serivisi bavurwa indwara nyuma yo kureba ibyo barwaye.

Inyubako ndende y'amagorofa menshi imbere yayo haparitse imodoka yo mu bwoko bwa toyota inyubako imanitse icyapa cya mediya foromasi i Remera ikaba ari sosiyete icuruza imiti ndetse n'ibikoresho bindi bitandukanye by'ubuvuzi bya imbago ndetse n'ibindi ibi bikaba byororoshye serivisi z'ubuvuzi hirya no hino abantu babona imiti bandikiwe n'abaganga cyangwa se niba bakeneye idasa kwandika n abaganga bakabayikurira hano.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi hakaba ari mu cyumba kivurwamowo amenyo, hagaragara imashini zitandukanye zifashishwa mu gusuzuma ubu burwayi. Hari kandi n'intebe z'imifariso zizamurwa ndetse zikanamanurwa bitewe n'aho umurwayi agiye kuvurirwa.

Mu nyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi hagaragaramo ibyumba bikorerwamo ibikorwa bitandukanye, aha hakaba ari ahakonjesherezwa imiti cyangwa se ibindi bikoresho byose bikeneye kuba bikonje ku kigero runaka, ahazwi nko muri korudi rumu, aha haba inkingo ndetse n'ibindi bikoresho byose bikenera kuba mu bukonje.

Inyubako ifite igisenge cy'ubururu, yubakishije amatafari ahiye isize amarangi y'umuhondo, ikaba ikoreramo ikigo cya Isange Onu Sitopu Senta cya Remera Rukomo. Aha akaba ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi z'ibanze ku bahura n'ibibazo byihutirwa bitandukanye, yaba abafashwe ku ngufu, abakubiswe ndetse n'abandi, mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza, hitabwa mu gukusanya ibimenyetso.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi nko gusuzuma, gutanga imiti, ndetse n'izindi. Hagaragara kandi ububiko bunini bushyirwamo imiti imwe n'imwe. Iki akaba ari icyumba gikonjesha kibikwamo inkingo detse n'indi miti ikenera kubikwa ahantu hari ubukonje hagaragara ibyuma bikonjesha bizwi nka firigo birinshi bitonze umurongo muri iki cyumba kugirango ngo utange iyo serivisi.

Icyumba cy'inama cyagenewe kwakira ibikorwa bitandukanye bihuriza hamwe abantu benshi. Akaba ari mu ntebe zifite ibara ry'umukara, ndetse imbere ya buri ntebe hari ameza afite ibara ry'ikigina, imbere kandi mu nyubako hari ahagenewe gusomerwa, cyangwa gutangirwa imbwirwaruhame hagaragara ameza afite ibara ry'umweru, inyubako kandi irimo indangururamajwi ku buryo abari muri iki cyumba cy'inama bose babasha kumva amajwi arimo kuvugwa, n'uri gutanga imbwirwaruhame.

Amacupa arimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu nk'ibiheri uburibwe ndetse n'izindi resitope payini, aya mavuta akaba akorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye byifitemo ubushobozi bwo kuvura ubwo burwayi harimo nk'imiravumba ndetse n'ibindi.

Umuganga w'amagufwa ndetse n'imvune aho yarimo kuvura umukobwa uryamye hasi ku gitanda ahinnye ukuguru kw'ibumoso abumbuye ukw'iburyo kuko ari ko kwari gufite imvune, munsi yako harambitsemo igitambaro ndetse yamushyizeho barafu aho arimo kuvuhura imvune yagize mu myitozo ngororamubiri yari arimo.

Umusore wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara n'amasogisi y'umukara arimo gukora imyitozo ngororamubiri yo kunanura amavi, iyi akaba ari mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi bwo gukora imyitozo ngororamubiri kenshi birinda umubiri kurwaragurika ndetse no kwandura indwara zitandukanye ziterwa n'umubyibuho ukabije nka diyabete ndetse n'izindi.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kiriho amafoto y'abantu bari gukina imikino itandukanye, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, iki kikaba cyarifashijwe mu bukangurambaga, aho bashishikarizaga abantu gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye, nka bumwe mu buryo bwo kubafasha kwirinda indwara zitandukanye ndetse banamenyesha ko impanuka zishobora kwirindwa.

Abakorerabushake bo mu muryango utabara imbabare Croix-Rouge, aho bambaye amasengeri abaranga iyo bari mu kazi. Agizwe n'ibara ry'umutuku, bakaba bateruye umusore warugize ikibazo cy'impanuka ari mu myitozo ngororamubiri; ibi akaba ari bimwe mu bikorwa n'abakora muri uyu muryango aho batanga serivisi z'ubutabazi bw'banze ku bafite ibibazo by'ubuzima bitandukanye.

Umusore wambaye umupira w'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara, aho arimo gukora imyitozo ngororamubiri azamura amaguru ayakandagiza ku cyuma cyabugenewe anayasubiza hasi, bikamufasha kugorora imitsi ndetse no gukomeza imikaya, binamurinda kwandura indwara zitandukanye cyane cyane iziterwa n'umubyibuho ukabije nka diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Umukobwa wunamye arimo gukora imyitozo ngororamubiri ananura amaguru. Iyi akaba ari mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima nka bumwe mu buryo bufasha mu kwirinda indwara zitandura nka diyabete, umubyibuho ukabije, kanseri ndetse n'izindi.

Umusore wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'ikigina, ari gukora imyitozo ngororamubiri ananura amaguru ndetse n'amaboko. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi, ko gukora imyitozo ngororamubiri ari ngombwa cyane kuko bifasha mu gukomeza imikaya ndetse no kugira ubuzima bwiza k’uyikora.

Ibyokurya bitandukanye byiganjemo imboga ndetse n'imbuto, ahagaragara ironji, itunda, urunyanya, umuneke, inanasi, ndetse n'ibindi, ibi akaba ari ibihabwa abamaze gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye, kugira ngo basubize imbaraga mu mubiri batakaje.

Umusore uri kunywa amazi yayakuye mu icupa iyi akaba ari inama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi bwo kunywa amazi meza kandi kenshi bifasha bikora kugira ubuzima bwiza birinda indwara zitandukanye cyane cyane ziganjemo umubyibuho ukabije ndetse n'izindi zituruka ku myanda y'ibiri mu mibiri, aho y'amazi afasha mu gusohora imyanda ndetse n'ibihu bitandukanye mu mubiri.

Umugabo wambaye agakoti k'ikijuju n'ikakabutura y'umukara, yicaye hasi ku ntebe, arimo kunywa amazi. Aha akaba ari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri itandukanye, nko kwirukanka, guterura ibyuma biremereye ndetse n'ibindi. Yewe hakaba hari n'inama zitangwa n'abaganga, ko zifasha kwirinda indwara zitandukanye zitandura, nk'umuvuduko ukabije w'amaraso, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi.

Umukobwa wambaye isengeri y'icyatsi, ari gukora imyitozo ngororamubiri ananura amaboko. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n’impuguke mu by'ubuzima nka bimwe mu bifasha kwirinda indwara zitandukanye zitandura, zituruka ku mubyibuho ukabije nka diyabete ndetse n'izindi.

Abasore benshi cyane barimo kwiruka mu muhanda nyabagendwa bakora imyitozo ngororamubiri. Iyi ikaba imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi nk'ubumwe mu buryo bufasha kwirinda indwara zitandukanye zitandura nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete, kanseri ndetse n'izindi.

Icyapa kigaragaza inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amagufwa ndetse n'ubugororangingo, aho abantu bafite ibibazo bitandukanye by'imikaya ndetse n'amagufwa bahabwa serivisi z'ubuvuzi. Aha akaba ari ibitaro bya Viatesh mu Muremyi aho akora izi serivisi zo kuvura abantu hagamijwe ko abantu bagira ubuzima bwiza.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, nko gusuzuma, gutanga imiti ndetse n'izindi. Aha hakaba ari mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo abafite ibibazo bitandukanye, byo mu mutwe, aho gifite igice kiryamishwamo umurwayi, ndetse agacomeka umutwe mu cyuma cyabugenewe, kigasuzuma kugira ngo ahabwe serivisi z'ubuvuzi zimunogeye.

Umusore wambaye isengeri y'umutuku ndetse n'ikabutura y'umukara umaze gukora imyitozo ngororamubiri yo kwirukanka n'amaguru aho arimo gufashwa n'umuganga utanga ubutabazi bw'ibanze nyuma yo gusohoza imyitozo kugira ngo amufashe gusubira mu buzima busanzwe amuha amazi ndetse n'ibindi bigenerwa umuntu umaze gutakaza imbaraga nyinshi.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ipantaro y’umukara ndetse n'inkweto z'umukara ,aho ari gukora imyitozo ngororamubiri yerekerwa n'umutoza w’imyitozo. Aha akaba ari mu nyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri izizwi nka gym aho abantu bajya bagakora imyitozo itandukanye bagorora imitsi ndetse n'imikaya mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye.

Icyapa cyatanzwe n'impuguke mu by'ubuvuzi kigaragaza imiti yiganjemo ibiri ndetse n'inshinge aho cyagaragazaga ahazaza bakora imyitozo ngororamubiri itandukanye mu gihe bakoresheje imiti yifashishwa mu kongera imbaraga abakora bene mwuga aho bagaragazaga ko bifite ingaruka kuzaza habo kuko byangiza cyane abakoresha iyi miti bakora imyitozo ngororamubiri itandukanye.

Wambaye agapira k'umukara, wambaye kuteri afite icupa ry'amazi mu ntoki arimo kunywa bigaraga ko avuye mu myitozo ngoramubiri. Ibi akaba ari imwe mu bitangwamo inama n'abaganga ndetse n'impuguke mu by'ubuzima, nka bumwe mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye zitandura ndetse no kugira ubuzima bwiza hifashishwa gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bitandukanye birambitse ku meza byifashishwa n'abaganga b'imvune ndetse n'ubugororangingo, aho bibafasha mu gukora akazi kabo ka buri munsi. Aba bakaba bavura cyane cyane abakinnyi ndetse n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri zitandukanye, igihe bagize ibibazo mu kazi kabo ka buri munsi bagahabwa ubutabazi bw'ibanze.

Mu bitaro kwa muganga hagaragara ibyumba bitangirwamo serivisi zitandukanye, hakabamo icyuma gisuzuma indwara zifata mu mutwe aho imashini kabuhariwe ndetse n'igitanda kiryamishwaho umurwayi hanyuma agacomeka umutwe muri iki cyuma kugira ngo asuzume, ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi nk'uko bigaragara hirya no hino mu gihugu.

Umusore wambaye umupira w'umukara, akaba ari kunywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi, ko kunywa amazi menshi ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri ihagije, ari ingenzi cyane mu buzima kuko bikomeza imikaya kandi bikarinda umuntu kuba yarwara indwara zitandukanye zitandura, nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'izindi.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye harimo gusuzuma gutanga imiti gufata ibizamini ndetse n'izindi, ahaba ari mu cyumba gisuzumirwamo abafite ibibazo by'amenyo ahagaragara igitanda cyabugenewe kiryamwamo n'abaje kwisuzumisha hanyuma bagasuzumwa hifashijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga biri hafi n'ikigitanda, ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi ndetse n'imitangire myiza ya serivisi muri uru rwego.

Kurya indyo yuzuye ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bituma abantu bagira ubuzima bwiza, hirirwa ko barwaragurika cyangwa se barwara indwara zitandukanye, ziterwa n'umubyibuho ukabije, ahubwo bakarya indyo yuzuye bakanakora imyitozo ngororamubiri, bikabera urukingo ku ndwara zimwe na zimwe zifata umuntu.

Umugabo ndetse n'umugore barimo gukora imyitozo ngororamubiri yo kwirukanka bafite amacupa y'amazi mu ntoki. Ibi akaba ari bimwe mu bigirwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima kuko byibuze abantu bakagombye gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo birinde indwara zitandukanye zitandura nka diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi . Bakora imyitozo ngororamubiri.

Mu nyubako zikorerwamo imyitozo ngororamubiri zitandukanye zizwi nka gym, hagaragara ibikoresho binyuranye abantu bakoresha bakora imyitozo. Harimo nk'ibyuma baterura, ibyo bakuruza amaguru, ibyo bakuruza amaboko ndetse n'ibindi. Ibi byose bikaba bifasha gukora iyi myitozo, kugira ubuzima bwiza bakora iyi myitozo ndetse banafata indyo yuzuye.

Umusore wambaye umupira w'ubururu urimo kunywa amazi menshi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi nko: Gukora imyitozo ngororamubiri, kunywa amazi menshi, ndetse no kurya indyo yuzuye, ari bimwe mu bifasha mu kugira ubuzima bwiza umuntu yirinda indwara zitandukanye.

Icyapa kigaragaza abantu bafite indwara zitandukanye ndetse n'uburyo zishobora gukizwa hifashishwa gukora siporo cyangwa imyitozo ngorora mubiri harimo nk'umutwe ,kururuka, isesemi ndetse n'ibindi .. ibi byose bikaba byakemurwa no gukora imyitozo ngorora mubiri umuntu akagira ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe, igizwe n'imyenda y'ubururu ndetse n'ikarita y'akazi, aho arimo kuvura umugabo wagize ikibazo cy'muriya mu kuguru ku iburyo, akaba arimo ku kuzamura anakumanura mu gihe aryamye mu gitanda. Ibi bikagaragaza imitangire ya serivisi z'ubuvuzi kuko afite ibibazo by'imvune bitandukanye ndetse n'imvune.

Umuntu umanitse agacupa gafite umufuniko w'ubururu kuzuyemo amazi, amazi akaba ari kimwe mu binyobwa bigirwamo inama n'impuguke muby'ubuvuzi ko byibuze umuntu akabaye muriliti eshatu z'amazi ku munsi akamufasha kugira ubuzima bwiza cyane cyane asohora imyanda yo mu mubiri ndetse n'ibindi.

Icyapa kigaragaza ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abavuzi ndetse n'abandi bose bakora imyitozo ngororamubiri ,mu gihe bagize ibibazo mu kazi kabo yaba bari mu myitozo cyangwa ari mikino ngororamubiri itandukanye. Hagaragaramo amapamba, ibikoresho bishyirwa ku bavunitse ndetse n'ibindi bitandukanye kuri iki cyapa.

umukobwa wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri akaba aryamye ku gatambaro gashashe hasi, arambuye ukuguru ku ibumoso yahinnye ukw'iburyo ari gukora imyitozo ngororamubiri, ibi bikaba bifasha mu kurinda indwara zitandukanye ziterwa n'umubyiho ukabije nka Diabete ndetse n'izindi.

Aanyeshuri batozwa umwuga w'ubuganga aho barimo kwiga amasomo atandukanye bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga, aba akaba ari abahugurwa kugira ngo bazatange serivisi z'ubuvuzi zinyuranye, aho bajyanwa mu bitaro hirya no hino bigishwa uko ibikoresho bitandukanye bikora, ndetse banahabwa ubumenyi bazakenera mu kazi kabo ka buri munsi ko kwita ku buzima bw'abatuye igihugu

Kunywa amazi ni ingenzi cyane nk'uko bigaragazwa n'impuguke mu by'ubuvuzi. Aho bagaragaza ko byibura umuntu muzima yakabaye anywa amazi angana litiro eshatu ku munsi, mu rwego rwo kumufasha kugira ubuzima bwiza. Kuko amazi agira uruhare runini mu bikorwa bitandukanye by'umubiri, nko gusohora imyanda ndetse n'ibindi.

Icyapa kigaragaza ibikoresho byo mu butabazi bw'ibanze, harimo nk'igipfuko, umukasi ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa n'impuguke mu by'ubuvuzi cyangwa se abandi bose bahuguriwe gutanga ubutabazi bw'ibanze, bahuriye mu muryango wa Kuruwaruje ndetse n'indi itandukanye, itanga izo serivisi zinyuranye, z'ubuzima.

Icyapa cy'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri cyatanzwe na Minisiteri y'ubuvuzi ishami ryayo rishinzwe kurengera ubuzima RBC, aho cyashishikarizaga abantu gukora imyitozo ngoramubiri itandukanye, bibafasha kwirinda indwara zitandukanye ndetse n'amagisida atera indwara zinyuranye harimo umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga bagiye gutanga serivisi z'ubuvuzi hirya no hino batari mu bitaro, ibi akaba ari ibikoresho by'ibanze bakenera. Ahagaragaramo nk'amapomade, ibipfuko, inshinge, imikasi, ibipfuko ndetse n'ibindi bitandukanye bigaragara mu gikapu bitwaza kizwi nka medical clinic.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi arimo kwimena amazi mu gahanga nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri yo kwirukanka igihe kirekire, iyi akaba imwe mu nama zitangwa n'impiguke mu by'ubuvuzi bwo gukora imyitozo ngororamubiri, ari kimwe mu bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza ndetse n'indwara zitandukanye cyane cyane ziterwa n'umubyibuho ukabije nka diyabete ndetse n'izindi.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya gisirikare by'u Rwanda bizwi nka kanombe. Hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, icyapa kikaba kigaragaza ko hatangirwa ubuvuzi bwa okupesheni terapi, ubu akaba ari ubuvuzi bwita kumera neza mu mitwe, bigafasha abafite ibibazo bitandukanye kubona serivisi kuri ibi bitaro, ndetse ku giciro gito bitabagoye.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku ndetse n'imishumi y'umukara cyifashishwa n'abavuzi bagiye gukorera hirya no hino batwaramo ibikoresho bari bukenere harimo nk'amapamba , imiti , imikasi , ibipfuko ndetse n'ibindi cyane cyane gikoreshwa n'abavuzi b'imvune ndetse n'amagufwa iyo bagiye nko kuvura abakinnyi hirya no hino ku bibuga bari mu mikino itandukanye.

Igikoresho kifashishwa mu gukora siporo z'imyitozo ngororamubiri itandukanye, aho gifasha abakora imyitozo kunanura imitsi no kugira ubuzima bwiza, binyunze mu myitozo ngororamubiri bakora, iyi akaba ari imwe mu nama bagirwamo inama n'impuguke mu by'ubuvuzi, bwo gukora imyitozo ngororamubiri kenshi ndetse no kurya indyo yuzuye bifasha ababikora kugira ubuzima bwiza.

Ibyo kurya bitandukanye biri ku masahani ndetse n'udukoresho twabugenewe. Harimo nk'imbuto, imboga inkeri, amagi, ibishyimbo ndetse n'ibindi, ibi byose bikaba bikungahayemo intungamubiri zikenerwa n'umubiri. Harimo: ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n' ibirinda indwara, aho byose bigize ifunguro ryuzuye riba rikenewe n'umubiri w'umuntu kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abavuzi b'amagufwa ndetse n'imvune, aho cyane cyane babikoresha bagiye kuvura abakinnyi mu gihe bari mu myitozo cyangwa imikino itandukanye, bakaba bagira ibibazo. Hagaragaramo ipamba, pomade, imiti itandukanye, uturindantoki ndetse n'ibindi.

Ipamba nini cyane ifite ibara ry'umutuku, iyi ikaba yifashishwa n'abatanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ubw'imvune ndetse n'ibikomere, aho iyi pamba yifashishwa mu gupfuka ibisebe cyangwa se kunga abafite ibibazo by'imvunera hakoreshejwe iyi pamba, iyi ikaba ari imwe mu bikoresho bisangwa hirya no hino kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku kizwi nka mobile clinic cyikaba cyifashishwa n'abatanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ku bakinnyi ndetse n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri itandukanye aho iki gikapu kijyanwa mu bigo bikenerwa mu kazi kabo harimo nk'imikasi ,imiti ,amapomade, amapamba ,ibipfuko ndetse n'ibindi bitandukanye bakenera mu kazi kabo ka buri munsi.

Umusore wambaye agapira k'umweru uri kunywa amazi mu icupa ry'ubururu, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora imyitozo ngororamubiri ari byiza, kandi bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza yirinda indwara zitandura nka diyabete ndetse n'izindi.

Akamashini kifashishwa n'abaganga ndetse n'abantu ku giti cyabo igihe barimo kwisuzuma isukari bafite mu mubiri ngo barebe icyakorwa ku buzima bwabo hagamijwe kubagira ubuzima bwiza, iyi mashini ikaba yifashishwa n'abarwayi ba diyabete ndetse n'abandi bantu bazima bashaka gupima ikigero cy'isukari bafite mu maraso kubafasha kwita ku buzima bwabo, zikaba ziboneka hirya no hino mu maguru ndetse n'amafarumasi ku bazishaka.

Kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abatanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane abasuzuma ibizamini byatanzwe n'abarwayi kizwi nka microscope, iki cyuma kikaba gifite ubushobozi bwo kureba udukoko duto cyane tuba turi mu bizamini byatanzwe n'abarwayi bikoresheje iki cyuma. Rero ni ngombwa cyane ko hasuzumwa neza udukoko dutera indwara umuntu hanyuma agahabwa imiti bijyanye n'icyo basanze mu bizamini bamufashe.

Imbaga y'abantu nyamwinshi bitabiriye kureba umukino w'amaboko uzwi nka hendi boro, wari wahuje abakiri bato mu rwego rwo gukangurira abakiri bato gukora imyitozo ngororamubiri, nka bumwe mu buryo bubafasha kwirinda indwara zitandura, cyane cyane ziterwa n'umubyibuho ukabije, harimo nka diyabete ndetse n'izindi.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi uri gukora imyitozo ngororamubiri yo kwiruka aho afite agacupa k'amazi ari kunywa, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza abantu bagomba gukora imyitozo ngororamubiri ndetse bakananywa amazi bakarya n'indyo yuzuye kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye isengeri y'icyatsi ari gukora imyitozo ngororamubiri ananura amaboko, nyuma yo gukora imyitozo yo kwirukanka, ibi akaba ari bimwe mu bikorwa bya siporo bigirwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima bifasha mu kugira ubuzima bwiza hirindwa indwara zitandukanye zitandura nka diabete, umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi.

Icyapa kigaragaza ibikorwa bitandukanye umuntu yakabaye akora kugira ngo agire ubuzima bwiza uko ari bine, aho kigaragaza ko gukora imyitozo ngororamubiri ari ingenzi cyane kandi bifasha kuba umuntu yagira ubuzima bwiza, kigaragaza kandi ko kugira isuku umuntu akaraba intoki inshuro nyinshi akoresheje amazi meza n'isabune nabyo ari bimwe mubigira uruhare mu kugira ubuzima bwiza ndetse n'ibindi.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, hagaragara ibikoresho kabuharirebe byifashishwa muri ibi bikorwa, aha akaba ari mu cyumba cyo gusuzumira ahagaragara imashini kabuhariwe gifashishwa mu gusuzuma umwijima, aho iyi ndwara ikoreshwa n'inzobere mu by'ubuvuzi ndetse igafasha abatanga serivisi z'ubuvuzi kunoza akazi kabo batanga serivisi zinoze ku barwayi.

Umusaza wambaye umupira w'mweruru ipantaro y'umukara arimo gufashwa kugenda yifashishije ibikoresho byabugenewe bifatwaho hanyuma umuntu akagenda abigenderaho gake gake. Arimo gufashwa n'umuforomo wambaye impuzankano yabugenewe, aha akaba ari mukigo cya bugenewe kwita ku bakuze aho batabwa serivisi zinyuranye z'ubuzima kubafasha kugira ubuzima bwiza nka bumwe cyiciro cy'abantu bakunda kwibasirwa indwara zinyuranye.

Ibyumba bitangirwamo serivisi z'imyitozo ngoramubiri bizwi nka gymnastic, ahagaragara urujya n’uruza rw'abantu baza gukora imyitozo itandukanye nko kwiruka, guterura ibyuma ndetse n'ibindi bigamije gukangura imikaya ndetse no kunanura amagufwa nka bumwe mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umubyibuho ukabije.

Mu byumba byagenewe gukorerwamo siporo zitandukanye ndetse n'imyitozo ngororamubiri hagaragara umusore uri guterura ibyuma, yambaye agapira k'uburu ndetse n'ikabutura y'umukara, aho arimo kugorora imikaya yekerewe n'umukozi muri iyi nyubako, ibi bikaba bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima nka bumwe mu buryo bwo kwirinda indwara zitandura nk'umubyibuho ukabije, Diyabete, n'izindi.

Icyapa kigaragaza ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ndetse n'abandi batanga serivise z'ubuvuzi zinyuranye, harimo nk'imashini zisuzuma umuvuduko w'amaraso, izisuzuma isukari, mudasobwa zifashishwa mu kazi ndetse n'ibindi, byose bikaba byifashishwa n'abaganga mu gutanga serivise nziza ku bo baziha.

Kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibiridwara, kugerekaho gukora imyitozo ngororamubiri, ni imwe muna zitangwa n'impimpuguke mu by'ubuzima, nka bimwe mu bifasha kugira ubuzima bwiza, bidasabye ko abantu bajya kwa muganga cyangwa bakora ibindi, ahubwo bagakora ibi gusa, hanyuma bakagira ubuzima bwiza.

Umuganga w'imvune ndetse n'amagufwa wambaye impuzankano yabugenewe, arimo gutanga serivisi z'ubuvuzi ku mudamu wagize ikibazo cy'imvune kuvi ari mu myitozo ngororamubiri, akaba arimo kumufasha kurambura ukuguru, areba neza ahari ikibazo kugira ngo amuhe ubuvuzi bukwiriye.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara arimo kugenda afashe ibyuma bifite amapine bikoreshwa n'abamaze igihe bafite imvune mu rwego rwo kongera kugarura amagufwa ku murongo bimenyereza kugenda. Ibi bikaba bikorwa n'abavuzi b'amagufwa ndetse n'imvune aho bifashisha ibikoresho mu gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Igikoresho cyifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, cyane cyane gikoreshwa n'abaganga b'imbune ndetse n'amagufwa aho barambikaho igice cy'umubiri cyavunitse, hagamijwe ko, amagufwa adatandukana ,ahubwo agakomeza kuba hamwe hanyuma bigafasha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Umukobwa wambaye agapira k'umutu na ekuteri uri kunywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri akaba ari imwe mu namwe zitangwa n'imuguke mu by'ubuvuzi kuko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi no kunywa amazi meza bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza yirinda indwara zitandukanye.

Umuntu warambuye ukuboko, arambitseho urubura ruri mu ishashi ruzwi nka barafu, iki kikaba ari igikoresho cyifashishwa n'abaganga cyane cyane ab'amagufwa ndetse n'imvune, aho bagishyira ku bantu bagize imvune, mu rwego rwo kubagabanyiriza uburibwe ndetse no gukira imvune zabo.

Icyapa cyamamaza kigaragaza ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abasiporotifu ndetse n'abafite ibibazo by'imvune ndetse n'ubusimburangingo, aho ibi byose bitangwa n'abaganga b'imikaya ndetse n'amagufwa, nyuma yo gusuzuma imvune y'umuntu ndetse akaba yakandikirwa gukoresha ibi bikoresho.

Umusore wishyizeho urubura rufite ibara ry'ubururu akaba ari kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abaganga b'imvune ndetse n'amagufwa mu gihe barimo gutanga serivisi z'ubuvuzi ahanini barinda uburibwe abagize imvune zitandukanye cyangwa gukomereka mu gihe barimo kubaha serivisi z'ubuvuzi.

Imipira y'ubwoko butandukanye yaba ikinwa n'amaguru cyangwa hifashishijwe intoki ndetse n'udukoresho dupima umuvuduko w'amaraso ndetse n'uko umutima utera byose biri hamwe, ibi bikaba bifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza hagamijwe ko barindwa indwara zitandukanye zirimo diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Umukobwa wambaye insengeri y’umukara n'ipantaro y'umukara, yicaye ahinnye amaguru azamuye akaboko k'ibumoso iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi. Imyitozo ngororamubiri akaba arimwe mu nama zitangwa n’impuguke mu by'ubuzima gukora imyitozo ngororamubiri bifasha kwirinda indwara zitandukanye zitandura harimo nk'umubyibuho ukabije, diyabete ndetse n'izindi.

Umusore wambaye isengeri y'umweru, arimo gukora imyitozo ngoramubiri ananura amaboko, imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi, nka kimwe mu bifasha mu kwirinda indwara zitandukanye, cyane cyane ziterwa n'umubyibuho ukabije, harimo diyabete ndetse n'izindi zifata ubuzima bwa muntu.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, kigaragaza imiti itandukanye yifashishwa n'abavuzi b'amagufwa ndetse n'imvune mu gihe bari mu kazi kabo ko kuvura abakinnyi ndetse n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri igihe baba bagize imvune bari mu kazi kabo. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kugabanya uburibwe ku bafite ibyo bibazo.

Akagare gafasha abafite ubumuga bw'ingingo ndetse n'abandi barwayi barembye cyane n'ababyeyi bagiye kubyara kwa muganga mu gihe bajyanwa hirya no hino mu bitaro kugira ngo bahabwe serivisi. Aka kagare kandi kifashishwa n'abafite ubumuga murwego rwo kubafasha gukora ingendo zimwe na zimwe bajya gushaka cyangwa guhabwa serivisi zitandukanye.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru ufite agasume ku rutugu arimo kunywa amazi mu icupa rinini. Uyu akaba amaze gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima nka kimwe mu bifasha kugira ubuzima bwiza hirindwa indwara zitandukanye cyane cyane izituruka ku mubyibuho ukabije nka diyabete, umuvuduko w'amaraso, ndetse n'izindi.

Igikoresho Kifashishwa n'abavuzi b'amagufwa ndetse n'imikaya igihe bakora akazi kabo, aho Kifashishwa ku bafite imvune zitandukanye. Bacyambika igice gifite imvune, hanyuma bagafunga imigozi neza mu rwego rwo kwirinda ko imvune yakomeza, ibi bikagaragaza imitangire ya serivisi hirya no hino mu buzima.

Umusore ufite urubura uri kurushyira ku kuvi, nyuma yo kugira ikibazo cy'imvune igihe yari ari mu myitozo ngororamubiri. Iki akaba ari kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abavuzi b'amagufwa ndetse n'imikaya, mu gihe bavura abakinnyi bari mu myitozo ngororamubiri cyangwa abandi bari hirya no hino mu bikorwa bitandukanye, igihe bagize impanuka z'imvune n'bindi. Ibi bikaba bibafasha mu kugabanya uburibwe bafite.

Imashini ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu. Iyi ikaba yifashishwa n'abaganga mu gusuzuma isukari umuntu afite mu maraso, cyane ko ari yo igaragaza niba bafite uburwayi bwa diyabete. Iyi mashini ikaba yifashishwa n'inzobere ndetse n'abantu ku giti cyabo bakeneye kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze, bipima isukari yabo.

Umusore wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru, yambaye kuteri, arimo akora imyitozo ngororamubiri ananura amaguru. Iyi ni imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima, kuko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi bifasha umubiri kutandura indwara zitandukanye, ndetse bi bikagabanya n'umubyibuho ukabije, ukunda guteza ibibazo n'izindi ndwara zinyuranye.

Kurya indyo yuzuye w’ibanda ku mboga ndetse n'imbuto n’imwe mu nama zitangwa n'imuguke mu by'ubuzima mubifasha mu kwirinda indwara ndetse umuntu akagira imibereho myiza ariko kandi agomba gukora na siporo kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zitandura zishobora kumufata harimo' umubyibuho ukabije , umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Umusore wambaye umupira w'umweru na ekuteri arimo gukora imyitozo ngororamubiri yo kugenda afite agacupa k'amazi aho ari kugenda ayanywaho, ibi akaba ari imwe mu bigirwamo inama n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora imyitozo ngororamubiri ari byiza kuko bifasha gukomeza imikaya, ndetse no kuzamura imibereho myiza y'abayikora birinda indwara zitandukanye zitandura harimo nka diyabete ndetse n'izindi.

Inyubako zikorerwamo imyitozo ngororamubiri zitandukanye, zizwi nka gym hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu imyitozo harimo nk'ibyuma byo guterura, imigozi yo gusimbuka, ibyuma byo kwirukanyiraho, ndetse n'ibindi. Ibi byose bikaba bikoreshwa mu rwego rwo kugira ngo abakore iyi imyitozo biririnde indwara zitandukanye ziterwa n'umubyibuho ukabije, diyabete ndetse n'izindi.

Inama yari yahurije hamwe abayobozi mu nzego za leta ndetse n'impuguke mu by'ubuvuzi, ubwo barimo bungurana ibitekerezo ndetse hari n'abatangaga ibitekerezo bifashishije uburyo bwiyakure cyangwa se buzwi nko kuri murandasi. Hagaragara ibikoresho bitandukanye ndetse n'ameza, mudasobwa ndetse n'ibindi, aho bahagaze mu cyumba cy'inama bakurikiye igitekerezo kiri gutangwa n'uri gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga.

Icyapa cyatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima kigaragaza uburyo imyitozo ngororamubiri ari kimwe mu byafasha kugira ubuzima bwiza, bidasanzwe ko abantu bajya gushaka ubuvuzi butangwa hirya no hino mu bitaro, ahubwo bakikingira indwara zimwe na zimwe, bakora gusa imyitozo ngororamubiri ndetse bakanarya indyo yuzuye.

Imboga n'imbuto ni bimwe mu bigira uruhare runini mu kurinda umuntu indwara zitandukanye cyo kimwe na siporo nayo ifite uruhare mu kurinda indwara zitandukanye zitandura cyane cyane nka diabete kanseri umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ibi byose bikaba ari ingenzi cyane kandi bigomba kwitabwaho n'abashaka kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umukara, ipantaro y'umukara, yicaye ku mukeka ari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe harambitse utwuma arimo kwifashisha mu kugorora imitsi y'amaboko ndetse n'amaguru, aho kandi hari icupa ry'amazi, iyi akaba ariyo n'amazi cyangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi no ku mazi menshi bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye isengeri ifite amabara y'ubururu, umweru n'icyatsi; afite agaswime ku rutugu, arimo kunywa amazi ari mu icupa ry'umweru rifite agafuniko k'ubururu, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi ikaba mu nama zitanga n'impuguke mu by'ubuvuzi, ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi ndetse no kunywa amazi, bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza, yirinda indwara zitandukanye ziganjemo umubyibuho ukabije, diabete, ndetse n'izindi.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, isaha y'umukara, arimo kunywa amazi mu gacupa, ni nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima nka bumwe mu buryo bufasha mu kwirinda indwara zitandukanye zitandura, harimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Umusore wambaye agapira k'umukara, ufite agasume mu bitugu, arimo kunywa amazi nyuma gukora imyitozo ngororamubiri, imwe mu nama zitangwamo n'impuguke mu by'ubuzima, zimwe mu bifasha kwirinda indwara zitandukanye, harimo nk'umubyibuho ukabije, Kanseri, Diyabete ndetse n'izindi.

Igikapu cyifashishwa n'abakora serivisi z'ubuvuzi zitandukanye mu gutwara ibikoresho by'ibanze bakenera mu kazi kabo igihe batari kwa muganga hagaragaramo ibipfuko, pomade, bande, imikasi ndetse n'ibindi byose bashobora gukenera mu gihe barimo gutanga serivisi z'ubuvuzi batari ku bitaro.

Icyapa kigaragaraho ibiribwa bitandukanye byiganjemo imbuto ahagaragara ironji, inyanya , inkeri ndetse na karoti hari kandi umuntu uri gukora siporo byo kwiruka ibi bikaba bigaragaza ko nyuma yuko umuntu akora imyitozo ngororamubiri itandukanye aba akeneye kurya imboga ndetse n'imbuto kugira ngo asubize imbaraga mu mubiri yatakaje igihe yarari mu myitozo.

Umukobwa wambaye isengeri y'umutuku ndetse na ekuteri z'umweru ari gukora imyitozo ngororamubiri aho yazamuye amaboko bakayaguriza hejuru akaba arimo kugorora mu bitugu ndetse no mu kwaha, iyi akaba ari inama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima, kuba ukora imyitozo ngororamubiri ari bimwe mu bifasha mu kwirinda indwara ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye nko gusuzuma gutanga imiti ndetse n'izindi, hagaragara ababyeyi baje gusuzumisha umwana wabo indwara zo mukanwa. Aho muganga arimosuzuma hifashishije igikoresho cy'ikoranabuhanga kigezweho areba neza mu kanwa ahari bikagaragaza iterambere mu buvuzi aho ikoranabuhanga ryifashishwa muri iki gisata.

Icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'icya sport pharmacy. Aha akaba ari uburyo bagaragarizaga abaturage ko gukora imyitozo ngororamubiri ari umuti ku ndwara nyinshi zitandukanye, ndetse ko bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza. Aho birinda indwara zitandukanye harimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi.

Umuntu urimo gusuka amazi meza ayakura mu icupa, ayashyira mu kirahure kugira ngo ayanywe, akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima, ko kunywa amazi menshi bifasha kugira ubuzima bwiza, aho amazi afasha mu kugira akamaro gatandukanye mu mubiri, harimo nko gusohora imyanda ndetse n'ibindi byinshi.

Umukozi wo mu rwego rw'ubuzima ubwo arimo gusuzuma umwana icyorezo cy'uburwayi akoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga kigezweho kimushyiraho urumuri hanyuma akareba niba umwana yaranduye, ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi aho ibikoresho by'ikoranabuhanga bihambaye bisigaye byikoreshwa mu gutanga serivisi nziza z'ubuzima.

Umusore wambaye umupira w'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri aho yashinze ivi ry'iburyo hasi apfukamiye irindi ry'ibumoso rihagaze arimo kurikanda agorora mu ivi ibi akaba ari imyitozo ngororamubiri yifashishwa n'abantu batandukanye mu kwirinda indwara zitandura harimo nk’umubyibuho ukabije umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Umusore wambaye isengeri y'umweru ari kunywa amazi ari mu icupa ry'ubururu nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impimpuguke mu by'ubuvuzi ko kunywa amazi menshi ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri ari bimwe mu bifasha mu umuntu atagira ibyago byo kwandura indwara zitandukanye cyane cyane izitandura harimo nka diyabete,e umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Muri Pharmacy hasangwa imiti ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa muri serivise z'ubuvuzi aha akabariho abantu bakura imiti bandikiwe n'abaganga cyangwa se n'imiti idasaba kwandikwa na muganga aho abantu bajya kuyishakira kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi zitandukanye.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umuhondo ndetse n'ipantaro y'ikijuju, arimo gukora imyitozo ngororamubiri agorora umugongo, amaboko ndetse n'amaguru. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora imyitozo ngororamubiri ari ingenzi cyane kuko bifasha imikaya gukomera ndetse bikanaha uyikora kugira ubuzima bwiza.

Umuvuzi mu by'amagufwa ndetse n'imvune , ubwo yari ari gutanga serivisi z'ubuvuzi ku muturage wari wagize ikibazo cy'imvune y'umugongo . Aryamye ku gitanda ahinnye ukuguru ku ibumoso . aho arimo gukandwa n'uyu muganga ndetse n'undi umwungirije arimo kumufasha kureba ikibazo umurwayi yaba yahuye na cyo, kugira ngo ahabwe serivisi z'ubuvuzi zimunogeye .

Igikoresho gifite ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu, cyifashishwa n'abavuzi b'imvune ndetse n'amagufwa fiziyoterapi mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane abagize imvune z'ijosi aho bacyambikwa mu rwego rwo kwirinda ko imvune za bo zakomeza kwiyongera mu gihe winyeganyeje.

Umuganga uvura imvune ndetse n'amagufwa arimo kwita ku mukinnyi ugize ikibazo cy'imvune mu gihe yarari gukora imyitozo ngororamubiri akaba aryamye hasi aryamye ku mugongo muganga akaba ari kuzamura akaguru ke asubiza ku murongo amagufwa yagize ikibazo ndetse n'imikaya mu buryo bwo kumuha serivisi z'ubuvuzi.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu wicaye mu kagare mu kigo cya genewe kwita ku bageze mu za bukuru, aho ari kwitabwaho n'umuganga umufasha gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo akangure imitsi ye ndetse n'imyakura mu rwego rwo kugira ngo agire ubuzima bwiza, yirinda indwara zitandukanye ziterwa no kuba hamwe.

Umukobwa wambaye isengeri y'icyatsi, ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri asunika ibintu bifite ibiro byinshi, ibi bikaba ari bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima nk'imwe mu bifasha kurwanya indwara zitandukanye zitandura, nk'umuvuduko w'amaraso ukabije, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi.

Umuti w'ifu uri mu gashashi gafite ibara ry'umuhondo, uyu muti ukaba ukorwa hifashishijwe ibimera, uvura indwara zitandukanye, nk'inzoka zo mu nda ndetse n'izindi, aho iyi fu ishyirwa mu mazi hanyuma ufite ikibazo akayanywa bikamufasha kumera neza.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi ndetse n'indabo z'umweru, kifashishwa mu gukora imiti itandukanye, ivura indwara z'uruhu zinyuranye nk'ibiheri, ibishishi ndetse n'izindi, aho izi ndabo z'iki giti zisoromwa hanyuma bakazisya, bakazikoramo ifu yifashishwa mu kuvura izo ndwara zitandukanye.

Amavuta ari mu icupa yakozwe hifashishijwe ibimera gakondo nk'ibitunguru ndetse n'indimu aya mavuta akaba afite uruhare mu kuvura indwara z'uruhu zitandukanye nk'ibiheri ibishishi ndetse n'izindi aho aya mavuta yatunganyijwe mu mbuto gakondo mu zifite umwihariko wo kuvura ibisebe bitandukanye.

Icyatsi kizwi nk'umufuranindi gihinze mu byatsi mu ishyamba rinini cyane, aho iki cyatsi gifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye aho gisoromwa hanyuma kigatunganywamo neza imiti itandukanye, yifashishwa n'abavuzi, bikaba byarakoreshwa cyane mu gihe cyo hambere, igihe ubuvuzi butari bwagateye imbere mu Rwanda.

Amacupa arimo imiti itandukanye ikorwa hifashishijwe ibimera iyi miti ikaba ivura indwara zinyuranye yaba iz’uruhu cyangwa iz’imbere mu mubiri aho ikorwa hifashishijwe ibimera bitunganywa neza hanyuma bikabyazwamo iyi miti n'abahanga mu gukora iyi miti.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi ndetse n'igitiritiri cy'icyatsi kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane izifata uruhu, aho aya mababi y'iki giti asoromwa hanyuma agatunganywamo neza umutobe ari wo wifashishwa mu kuvura izi ndwara z'uruhu.

Ibiti ndetse n'ibyatsi byinshi cyane bikoze ubusitani, ibi biti bikaba byifashishwa mu gukora imiti itandukanye, aho amababi yabyo asoromwa hanyuma agatunganywa neza agakorwamo ifu yifashishwa mu kuvura indwara nk'ibicurane, igituntu ndetse n'izindi.

Ibirahuri birimo imiti gakondo ikozwe mu bimera bitandukanye harimo imiravumba ndetse na kapsinine aho bisukwa mu amazi ngo bikanguwemo umutobe wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye harimo izo mu nda n'iz'uruhu ndetse n'izindi zifata ubuhumekero ,ibimera bikaboneka hirya no hino mu gihugu.

Umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'umupira w'umutuku aho afashe icyatsi k'icumushu avuye guca mu ishyamba. Iki cyatsi kikaba kifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura indwara zinyuranye harimo nko kwishimagura, gufurutwa ndetse n'izindi, aho iki giti kifitemo ububasha bwo kuvura izi indwara kikaba gitunganywa neza, hanyuma kigakoreshwa n'ufite ubu burwayi.

Imiti itandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abavuzi gakondo mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, harimo nk'inkono, utubindi, amasekuru ndetse n'ibindi, byakoreshwaga n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyapa kigaragaza ibimera bitandukanye biboneka hano mu Rwanda, byifashishwa mu gukora imiti cyangwa se bikora nk'imiti hirya no hino mu Gihugu. Hagaragaramo ibizwi nk'igikakarubamba, ibizwi nka rumari, ibizwi nk'ibifuranindi ndetse n'ibindi.

Icyatsi kizwi nk'igifuraranindi gihinze mu busitani bwo mu rugo kubera ko cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura indwara zinyuranye, nk'inkorora, gufurutwa ndetse n'ibindi. Aho amababi ya cyino cyatsi asoromwa hanyuma agahondwa neza hagakurwamo umushongi wifashishwa mu kuvura izo ndwara zinyuranye.

Umuti wifashishwa mu koza amenyo wa foreva tufu jeri, aho uyu muti ukorwa hifashijwe ibimera bitandukanye harimo nk'igikakarubamba, cyifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye zituruka ku mwanda. Uyu muti ukoreshwa mu kugira isuku yo mu kanwa mu rwego rwo kurinda indwara zitandukanye zifata iki gice.

Kurya imbuto ndetse n'imboga ni kimwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima kuko bifasha ababikora kugira ubuzima bwiza kuko imbuto zikungahaye ku ntungamubiri ndetse n'imyunyungugu bikenerwa n'umubiri cyane mu kwirinda indwara ibi bikaba bitangwamo inama n'impuguke mu by'imirire ndetse no mu buzima ko kurya imbuto byibuze kabiri ku munsi ari ngombwa cyane.

Muri pipinyeri ahabikwa imbuto zitandukanye z'ibiti ndetse n'ubwatsi hagaragara ubwoko butandukanye bw'ibiti harimo nk'ibyo kurya, ibyera imbuto ziribwa, ibyera ibiti bisarurwa ndetse n'ibindi hagaragara kandi n'ibyifashishwa mu gukora imiti gakondo harimo nk'imiravumba, imitini ndetse n'ibindi byose bijya guhingwa hirya no hino hagamijwe ko hatangwa umusanzu mu gutanga imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi.

Pepeniyeri irimo ingemwe z'ibiti bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti yifashishwa mu buvuzi, aho izi ngemwe zigenda zigaterwa hirya no hino mu mirima y'abahinzi, hanyuma bigakura byamara gukura bikazajya bikoreshwa mu gukora imiti itandukanye hagendewe ku bushobozi bw'ibimera mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti itandukanye, ivura indwara zitandukanye, nk'iz'uruhu, inkorora ndetse n'izindi, aho ibimera bifatwa bigatunganywa neza hakoreshejwe uburyo butandukanye, nko kubisya cyangwa kubikamura hanyuma bigakoreshwa mu gukora serivisi z'ubuvuzi nko kuvura inkorora, ibishishi, ibiheri ndetse n'ibindi.

Ikimera cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi, harimo nk'ubuvuzi bw'inkorora, ubuvuzi bw'indwara zitandukanye zifata imyanya y'ubuhumekero n'izindi, aho amababi y'iki kimera atunganywa hanyuma agakamurwamo umushongi ariwo wifashishwa muri ubu buvuzi.

Agacupa k'ubururu karimo amavuta ya skin oil, aya akaba ari amavuta yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu harimo nk’ise, ibiheri ndetse n'izindi, aya mavuta akaba akorwa hifashishijwe ibimera cyane cyane igikakarubamba nka kimwe mu bifite ubushobozi bwo kuvura izi ndwara.

Ibimera bizwi nk'umuravumba, ibi bikaba bifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye zinyuranye binyuze mu bushobozi byifitemo, aho bisoromwa amababi yabyo cyangwa bigakamurwamo umushongi cyangwa se na none bikanikwa bigakorwamo ifu, byose byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi zifata ibice by'umubiri bitandukanye, nko gufurutwa, inkorora ndetse n'izindi .

Amavuta ya FOREVER ALOE VERA GEL, ari mu macupa atandukanye y'ibigero bitandukanye, aya mavuta akaba akorwa hifashishijwe ibimera bizwi n'ibikakarubamba, aho byifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye z'uruhu, harimo nk'ibiheri ibishishi ndetse n'izindi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti iva ku bimera itandukanye, hagaragara nk'imbuto, amakara, isekuru, umuhini ndetse n'ibindi. Aho ibi byose bitunganywa neza, bigakorwamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'ibiheri, ibishishi ndetse n'ibindi.

Akabati karimo imiti itandukanye y'ubwoko bwose yaba iy'amavuta, isukika, iyo gusiga ndetse n'iyo kunywa, ikorwa hifashijwe ibimera bitandukanye. Iyi miti ikaba igira uruhare runini mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, aho iba ifite ingaruka nke ugereranyije n'imiti ikorwa n'abazungu.

Amavuta ya arowe vera jeri aya akaba ari amavuta akorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye, cyane cyane bizwi nk'ibikakarubamba, aho aya mavuta ari mu macupa atandukanye akaba avura indwara zinyuranye z'uruhu harimo nk'ibiheri, ibishishi ndetse n'izindi zifata uruhu hagendewe ku bushobozi bw'igikakarubamba mu kuvura izo ndwara.

Agakarito karimo umuti wa fiti nutirishono kirinsingi porogaramu, uyu akaba ari umuti ukura hifashishijwe ibimera kugira ngo ufashe abawukora kugira ubuzima bwiza. Uyu muti ukaba ufite ubudahangarwa kandi ukorwa mu bimera hirya no hino bitunganywa bikabyazwamo uyu muti ufasha abafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima kugira ubuzima bwiza.

Icyapa kiri mw’ibara ry'umuhondo cyamamaza umuti wa forever focus uyu akaba ari umuti ukorwa hifashishijwe ibimera biboneka hirya no hino mu gihugu kizwi nka kapusine ugitunganywa neza hanyuma kigakurwamo umuti ufasha mu gusukura ubwonko uwurinda indwara zitandukanye ndetse no guhuzagurika ibi bikagira uruharemu gutanga serivisi z'ubuvuzi hagendewe kuri bimera gakondo biboneka hirya no hino mu gihugu.

Umuti wo mu kanwa wa forever bright toothgel. Uyu akaba ari umuti uvura indwara zo mu kanwa zitandukanye, ukoreshwa hozwa amenyo ndetse hanakorwa isuku yo mu kanwa kugira ngo umuntu yirinde indwara zitandukanye zifata igice cyo mu kanwa, zituruka ku mwanda ndetse n'isuku nke.

Udusorori dutandukanye duteretse ku meza turimo ibihingwa bitandukanye cyane cyane byifashishwa mu gukora imiti gakondo inyuranye, aho hagaragara mo nk'imbuto, imizi ndetse n'ibitiritiri by'ibiti runaka, bikaba byifashishwa mu gukora imiti yifashishwa mu buvuzi hirya no hino mu gihugu.

Umurima munini cyane ukorerwamo ubuhinzi bw'ibiti bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye nk'inkorora ibiheri ndetse n'iyindi ,hagaragara urujya n'uruza rw'abamama basha gusoroma amababi y'ibiti kugira ngo ajye gutunganywa hakorwemo imiti ivura izo ndwara.

cyapa kiri mu ibara ry'icyatsi gishushanyijeho umuti wa farevar bright toothgel, uyu akaba ari umuti ukoze mu bikakarubamba, akaba ari ikimera cyifashishwa mu kugira uruhare mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Aho uyu muti ukoreshwa usigwaana hafite ikibazo nk'ibiheri, ibishishi, ndetse n'ibindi, bikarinda ko byakomeza gukwira ahubwo bigakira vuba mu gihe gito.

Ibiti by'imishishito bihinze mu ndobo nini cyane bikoze ubusitani aho ibi biti byifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura indwara z'uruhu ndetse niz’imbere mu mubiri n'inkorora n'izindi aho bisoromwa amababi yabyo hanyuma bakayasekura akavamo ifu ariy’ifungurwa mu mazi hanyuma umuntu akayanywa kugira ngo ivure izo ndwara zitandukanye.

Ibikoresho birimo imiti itandukanye, yaba ikorwa hifashishijwe amababi, indabo se, ibishishwa by'ibiti, ndetse n'ibindi binyuranye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye, ivura indwara zinyuranye, nk'inkorora, indwara z'uruhu, ndetse n'izindi.

Agacupa k'umweru karimo amavuta ya Forever dairly. Akaba ari amavuta akorwa hifashishwajwe ibinyabutabire bitandukanye, bikavangwa n'ibimera, harimo nk'igikakarubamba. Aya mavuta afite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye nk'uko n'igikarubamba cyifitemo ubwo bushobozi.

Icyapa kigaragaza imiti itandukanye ikorwa hifashishwa ibimera ifasha mu kuvura indwara zinyuranye harimo nk'amavuta ya aloevera ndetse n'ayandi. Ibi byose bikaba bitunganwa hifashishijwe ibimera bigenda biboneneka hirya no hino nk'igikakarubamba, umuravumba, umubirizi ndetse n'ibindi binyuranye.

Icupa rinini cyane ririmo umuti wakozwe mu kimera kizwi nk'umuravumba cyangwa tretedeniya lepali ,iki akaba ari ikimera kiboneka hirya no hino mu gihugu ariko gifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye aho gifatwa kigatunganywa neza kikabyazwamo imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi.

Ibyatsi bizwi nka rumari bifite utubabi duto tw'icyatsi, birambitse ku isekuru ikoze mu giti. Aho ibimera bifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye nk'inkorora ndetse n'izindi zifata mu imyanya y'ubuhumekero, aho bitunganywa neza bigakorwamo umushongi wifashishwa mu kuvura izo ndwara.

Agacupa k'umweru karimo umuti wa Vitolize, uyu ubaka gukorwa mu bimera aho bitunganywa neza bikabyazwamo uyu muti ufite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye z'uruhu harimo nk'ise, ibiheri ndetse n'izindi zishobora gufata uruhu bitewe n'ibinyabutabire biri mu bimera bikoze iyi miti.

Amavuta ya foreva alove berineta ari mu bigero bitandukanye, aho ari mu icupa ry'icyatsi, andi akaba ari mu icupa ry'umuhondo, ayo mavuta akorwa hifashijwe ibimera by'ikarubamba, aho iki kimera gifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye z'uruhu: nk'ibiheri, ibishishi ndetse n'izindi.

Ibinini bifite ibara ry'umweru birambitse ku kibabi cy'umuravumba gifite ibara ry'icyatsi birambitse ku meza ,iyi akaba ari imiti ikorwango hifashishijwe ibimera by'imiravumba aho byifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye bitunganywa neza n'inganda zikabibyazamo imiti itandukanye yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi hirya no hino mu bigo nderabuzima ndetse n'amavuriro.

Ikimera kizwi nk'umuravumba cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye, ivura indwara zinyuranye, harimo nko kubyimbirwa, gufurutwa, inkorora ndetse n'izindi. Aho ibiba by'iki kimera bitunganywa neza bigakorwamo umutobe , ari wo wifashishwa mu kuvura bene izi ndwara zinyuranye.

Umusaza ndetse n'umukobwa bari mu busitani aho barimo gusoroma amababi y'igiti cy'umuravumba yifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura indwara zinyuranye cyane cyane zifata ubuhumekero ndetse n'izuruhu ,aho aya mabi yiki giti agenda agatunganywa neza hanyuma hakurwamo umushongi wifashishwa mu gukora iyo miti itandukanye.

Udukarito turimo umuti wa Natura- Ceuticals. Uyu akaba ari umuti ucuruzwa n'ikigo Alliance Grobal aho gitanga imiti itandukanye ituruka ku bimera, yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, harimo umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi. Iyi miti ikaba itunganywa hifashishijwe ibimera byifitemo ubushobozi bwo kuvura izo ndwara.

Icyapa kigaragaza ibihingwa ndetse n'ibimera bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti inyuranye. Hagaragaramo nk'igiti cy'igifuranindi, igitoki ndetse n'ubunyobwa. Aho byose bishobora kwifashishwa mu gukora imiti, itandukanye inyobwa n'umuntu mu rwego rwo kwivura indwara bidasabye ko ajya kwa muganga, ahubwo agakoresha ibi bintu biboneka hirya no hino mu gihugu.

Amakarito arimo imiti itandukanye y'ubwoko butandukanye yose ikorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye, aho bitunganywa neza bikabyazwamo iyi miti yifashishwa mu gutanga ubuvuzi cyane cyane idakunze kugira ingaruka ugereranyije n'imiti ya kizungu.

Agacupa karimo umuti uvura amaso ukorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye biboneka hirya no hino mu Rwanda, aho bijyanwa mu nganda bigatunganywa neza, bigakorwamo imiti ivura indwara zitandukanye zifata amaso, hagendewe ku binyabutare biboneka muri ibyo bimera.

Ibimera byifashishwa mu gukora imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye yaba iz'uruhu cyangwa iz'imbere mu mubiri nk'inkorora ndetse n'izindi. Ibi bikaba itunganywamo neza imishongi cyangwa amafu yifashishwa mu muvuzi hirya no hino mu kuvura indwara zinyuranye.

Ibikoresho bitandukanye byiganjemo amavuta, imiti yo gusiga, amapomade, ndetse n'imiti yo koza amenyo, byose bikorwa hifashishijwe ibimera. Ibi bikaba bifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye, kubera ibinyabutabire biri mu bimera bikoreshwa mu gukora bene iyi biti; harimo nk'igikakarubamba ndetse n'ibindi.

Icyapa kigaragaza ibihingwa bitandukanye biboneka hano mu Rwanda byifashishwa mu gukora imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, yaba iz'uruhu cyangwa iz'imbere mu mubiri, harimo nk'umuravumba, igikakarubamba, umushishito ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi yaba inyuma cyangwa imbere ku mubiri. Bugizwe n'amavuta, imiti yo mu kanwa, amafu yo gushyira mu mazi, ndetse n'ibindi bitandukanye. Byose bikorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye bifite ubushobozi bwo kugura indwara zinyuranye, harimo igikakarubamba, umuravumba ndetse n'ibindi.

Ibikombe by'ibirahuri birimo amababi ndetse avanze n'amazi arimo ay'imiravumba ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, iyi akaba ari imwe muri gahunda yo gukora imiti hifashishijwe amababi y'ibimera gakondo biboneka hirya no hino, mu rwego rwo gufasha abantu kugira ubuzima bwiza bibavura indwara zinyuranye zifata umubiri.

Ubusitani buhinzemo ibimera bitandukanye bifite amabara y'icyatsi bikaba byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, aho bikorwamo imiti itandukanye ivura indwara zinyuranye yaba, iz'uruhu cyangwa se iz'imbere mu mubiri, aho bitunganywa neza n'abahanga mu gutunganya imiti hanyuma ikifashishwa mu kuvura bene izo ndwara.

Ameza ariho agasekuru ndetse no mu yindi bya kijyambere birambitse mu tubuto iruhande rwabo hari amacupa arimo amafu ndetse hari n'amavaze arimo ibimera bitandukanye ibi bikaba ari aho batunganyiriza imiti itandukanye ituruka ku bimera aho basoroma imbuto z'ibimera bakazisya hanyuma bagashyiramo amazi bakazikoramo umutobe wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa ririmo umuti ukoze mu bimera gakondo, harimo nk'ibitunguru ndetse n'indimu, aho babikamura bikavamo umushongi wifashishwa mu gukora imiti itandukanye ikora mu buvuzi, harimo nk'ubuvuzi bw'ubuhima, ubuvuzi bw'inkorora ndetse n'izindi ndwara, byose bigamije ko abayikoresha bagira ubuzima bwiza, bifashishije ibimera gakondo.

Amavuta ya Forever Aloe Gel akozwe hifashijwe ibimera bitandukanye cyane cyane igikakarubamba aho avura indwara zinyuranye harimo nk'ibiheri ,Ibishishi ndetse n'izindi zibasira uruhu aya mavuta akaba akorwa muri ibi byatsi aho bigenda bigatunganywa neza n'inganda hanyuma zikayabyazamo amavuta afite ubushobozi bwo gukiza iziindi ndwara.

Icyatsi gakondo kifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye zifata umubiri w'umuntu, harimo nk'ibiheri, kwishimagura ndetse n'izindi, aho iki cyatsi gitunganywamo imiti itandukanye, yaba n'inganda cyangwa se n'abantu ku giti cyabo, aho bashobora kucyanika bakagisya, hanyuma umuti uvuyemo bakawisiga ahantu bafite ibibazo bitandukanye, bikabafasha kumera neza.

Amavuta ya Forever Aloe Gel ari mu bigero bitandukanye yaba amacupa manini ndetse n'amato, aho aya mavuta yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu nk'ibiheri ndetse n'ibishishi. Aya mavuta akaba akorwa hifashishijwe ibimera by'igikakarubamba byifitemo ubushobozi bwo kuvura izi ndwara.

Amavuta ndetse n'amasabune , ari mu bikarito bitandukanye . Aya yose akaba akorwa hifashijwe ibimera bitandukanye . Aho bitunganywa neza hanyuma bigashyirwa muri aya mavuta . Mu rwego rwo gufasha abayakoresha kugira uruhu rwiza , ndetse anabavura indwara zitandukanye zifata uruhu . Harimo nk'ise , ibiheri ndetse n'izindi .

Ubusitani bwo mu rugo buteyemo igiti cy'umuravumba, iki kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye hari nko gufurutwa, ibishishi, inkorora ndetse n'izindi, aho gisoromwa neza hanyuma amababi yacyo agakamurwamo umushongi wifashishwa mu kuvura izi indwara kubera ubushobozi yifitemo bwo kuzivura.

Amavuta ya foreva rovegeri ari mu ngero zitandukanye ndetse n'amacupa atandukanye. Aya mavuta akaba akorwa hifashishijwe igihingwa cy'ibimera kizwi nk'igikakarumba, aho afite uruhare mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu harimo nk'ibishishi ibiheri ndetse n'izindi.

Igiti kinini cyakuze cyane cy'umuravumba gifite amababi y'icyatsi, ayo mababi akaba afite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye yaba izuruhu cyangwa iz'imbere mu mubiri cyane cyane zifata urungano rw'ubuhumekero arimo nk'inkorora ndetse n'izindi, aho aya mababi atunganywa neza akabyazwamo umutobe ariho yifashishwa mu kuvura izo ndwara.

Ikimera cy'umuravumba gifite amababi y'icyatsi. Iki kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo nko gufurutwa, inkorora ndetse n'izindi, aho ugifata kigakamurwa hanyuma umushongi uvuyemo ukanyobwa n'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi agakira akamera neza.

Amavuta ari mu gacupa k'umweru ya alowe veri geri, aya akaba ari amavuta akorwa hifashishijwe ibimera bizwi nk'ibikakarubamba, aho ibi bimera byifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye z'uruhu harimo: nk'ise, ibihushi, ibishishi ndetse n'izindi zifata uruhu, hagendewe ku bushobozi bw'ibinyabutabire biboneka muri ibi bimera.

Icupa ry'umweru ririho akapa k’ubururu kagaragaza umuti wa Forever Arctic Sea, uyu ukaba ari umuti ukorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye biboneka hirya no hino mu gihugu, aho bitunganwa neza hanyuma bikabyazwamo imiti ifashwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ubw'uruhu bigendeye ku binyabutabire biri muri ibi bimera.

Ibihingwa bitandukanye byaba ibyimeza cyangwa se ibihigwa mu busitani, byifashishwa mu gukora imiti itandukanye harimo nk'imiravumba, igikakarubamba ndetse n'indimu. Aho byose bifite uruhare mu kuvura indwara zitandukanye, yaba iziri imbere mu mubiri cyangwa izifata ku ruhu, hagendewe ku bushobozi bw'ibimera mu kuvura izi ndwara.

Uducupa dufunzemo imiti itandukanye, ikorwa hifashishijwe ibimera gakondo biboneka hirya no hino mu gihugu. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, harimo nk'inkuru, ibicurane, indwara z'ubuhumekero ndetse n'ibindi, aho zikorwa hifashishijwe ibimera bitunganywa neza bigakorwamo umushongi, ari wo ushyirwa muri aya macupa, ugacuruzwa kugira ngo ufashe mu buvuzi bw'izo ndwara zinyuranye.

Tangawizi n'imwe mu bihingwa byera mu butaka, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse n'izindi. Kubera ubushobozi ikihingwa Kifitemo, Kifashishwa n'abaganga batandukanye ndetse n'inganda mu gukora imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zinyuranye.

Amavuta ari mu icupa ry'umweru azwi nka alowe evahelo aya akaba ari amavuta azwiho kuvura indwara z'uruhu zitandukanye nk'ibiheri bishishi ise ndetse n'izindi akaba akorwa hifashishijwe ikimera kigira karubamba aho bitunganywa neza bigakurwamo ayo amavuta akaba yifashishwa mu kuvura izi ndwara.

Umuntu ufite agafu kanombye neza kazinze mu bipapuro, uyu akaba ari umuti gakondo wakozwe hifashijwe gusoroma amababi y'ibimera runaka, hanyuma bakayanika neza akuma barangiza bakayasyamo aka gafu, ari ko gashyirwa mu mazi hanyuma umuntu akayanywa mu rwego rwo kuvura indwara zitandukanye zivurwa n'ibi byatsi.

Amacupa afite imifuniko y'umweru ndetse n'umutuku ariho ibyapa bitandukanye akamacupa hakaba habarimo imiti itandukanye yakozwe hifashishijwe ibimera binyuranye harimo nk'ibikakarubamba imiravumba imishishi mitoya kubaho ndetse n'izindi aho bitunganywa neza ikabyazwamo imitivu n'indwara zinyuranye yaba iz'imbere mu mubiri ndetse n'izifata uruhu zitandukanye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweruru kigaragaza ibimera bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gukora imiti itandukanye ivura indwara z'uruhu ndetse n'izindi harimo nk'igikarubamba, rumari ndetse n'ibindi ibi byatsi byose bikaba bifatwa bigatunganywa neza yaba amababi cyangwa indabo zabyo bigakoreshwa mu gukora imiti itandukanye.

Amababi y'igiti cy'umukonikoni cyifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye zifata uruhu, ndetse n'izifata imbere mu mubiri nk'inkoro ndetse n'izindi. Aho aya mababi asoromwa hanyuma agakamurwamo umushongi, ari wo wifashishwa mu kuvura izi ndwara, bigafasha abaturage hirya no hino mu bice by'icyaro kugira ubuzima bwiza bivurisha amababi ya kino giti.

Ibihingwa bitandukanye harimo amababi ndetse n'imbuto zabyo byifashishwa mu gukora imiti itandukanye, bivura indwara zinyuranye, harimo nk'izifata uruhu cyangwa se iz'imbere mu mubiri. Aho bitunganywa neza bikabyazwamo imishogi cyangwa amafu yifashishwa muri ubu buvuzi.

Amavuta ya foreva biya niyo akorwa mu buki kugirango avure indwara z'uruhu zitandukanye harimo nk'ibishishi ibiheri ndetse n'ibindi. Ibi byose bikaba bikorwa, ubuki butunganywa neza n'inganda zabugenewe hanyuma bugashyirwa mu macupa bugahabwa abantu bafite ibibazo by'uruhu bitandukanye kugira ngo bubafashe kubikemura.

Ubusitani buhinzemo ibiti bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi bunyuranye yaba ubwuruhu cyangwa se ubw' imbere mu mubiri. Aho amababi cyangwa se imizi cyangwa ibititiri by'ibi biti bitunganywa neza hanyuma bikabyazwamo imiti yifashishwa muri ubwo buvuzi.

Icupa ry'umweru ririmo amavuta ya foreva bi poroporozi, aya akaba ari amavuta yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu zitandukanye, akaba akozwe hifashijwe ikimera cy'igikagararubamba, aho kivangwa n'ubuki, byose bifite ubushobozi bwo kuvura indwara zinyuranye z'uruhu.

Icupa ry'umweru ririmo amavuta ya Forever Garlic Thyme aya akaba ari amavuta akorwa hifashishijwe ikimera cya tungurusumu, aho aba afite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye bitewe n'ububasha bw'iki gihingwa mu kuvura izo ndwara harimo nk'inkorora ndetse n'izindi zitandukanye.

Kurya indyo yuzuye cyane cyane yiganjemo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda idwara, ni imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi kuba ifasha abantu kugira ubuzima bwiza, ariko imbuto zikaba umwihariko kubera ubushobozi, ndetse n'imyunyungugu byifitemo, bigira uruhare runini cyane mu kurinda indwara abazikoresha.

Ibimera bitandukanye yaba ibihingwa cyangwa se kimeza byifashishwa mu gukora imiti itandukanye yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, aho harimo nka kapusine ndetse n'umuravumba, ibi byose bika byifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye cyane cyane izifata uruhu ndetse n'imyanya y'ubuhumekero.

Uducupa turimo imiti itandukanye yamaze gukorwa hifashishijwe isekuru igezweho ya kijyambere ndetse n'umuhini bifite ibara ry'umweru, hagaragara kandi n'amababi yandi arimo gusekurwa muri iyi sekuru kugira ngo akorwemo umuti. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane zifata imyanya y'ubuhumekero inkorora ndetse n'izindi.

Pepeniyeri irimo ibihingwa bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti inyuranye, ivura indwara z'uruhu ndetse n'iz'imbere mu mubiri, aho ibi biti bisoromwa, hanyuma bigatunganywa neza n'inganda zabugenewe, bikabyazwamo imiti yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi hirya no hino mu gihugu.

Icupa ririmo ifu ikoze mu kimera cy'umuravumba, iki akaba ari ikimera cyera hirya no hino mu gihugu, aho gisoromwa amababi yabyo bakayasya, hanyuma agakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, nko gufurutwa, inkorora, ndetse n'izindi zitandukanye, hifashishijwe iki kimera.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi ndetse n'uturabo tw'umweru n'umuhondo, iki kimera kikaba cyitwa inyabarabasanya, cyifashishwa mu gukora ubuvuzi butandukanye cyane cyane bwo kumisha ibisebe ndetse n'ibindi, aho gitunganwa neza kikavanwamo agafu, ari ko gakoreshwa mu gukora ubwo buvuzi.

Uducupa dutandukanye dututse ku meza, iruhande rwaho hari imyuko ndetse n'amasekuru ya kijyambere byifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka mu bimera. Aho ibice bitandukanye by'ibiti bisoromwa hanyuma bigasekurwa neza hifashishijwe iyisekuru ya kijyambere. Hanyuma bikongerwamo ibindi bifungura nk'amazi ndetse n'ibindi bikabyazwamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Ubukangurambaga bwakozwe na minisiteri y'ubuzima binyuze mu cyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi, gishushanyijeho ibimera bitandukanye ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi gakondo bushingiye ku bimera, wabaye ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Mu rwego rwo guha agaciro ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti itandukanye, ivura indwara zinyuranye ku munsi wahariwe ibimera.

Imababi y'ibyatsi yifashishwa mu gukora imiti itandukanye bizwi nk'urumogi. Aho bitunganywa neza bikabyazwamo imiti ikoreshwa kwa muganga ndetse n'ikoreshwa n'abaganga gakondo mu kuvura indwara zitandukanye ndetse no gutanga serivisi z'ubuvuzi ku basaba izo serivisi hirya no hino mu bitaro.

Igiti giteye neza mu murima gisasiye kikaba kibyazwamo imiti itandukanye yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, aho amababi yacyo asoromwa hanyuma agatunganywamo umushongi ari wo wifashishwa mu gutanga ubuvuzi ku bafite indwara zitandukanye, nk'inkorora ndetse n'izindi.

Amavuta, amasabune ndetse n'imiti biri mu bikarito ndetse n'utujerekani bitandukanye, bikorwa cyane cyane hifashishwijwe ibimera bizwi nk'ibikakarubamba, iki kimera kikaba gifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye, yaba zifata uruhu cyangwa z'imbere mu mubiri, aho bikoreshwa mu gukora imiti ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu kuvura izo ndwara.

Ibimera bitandukanye yaba ibihingwa cyangwa kimeza byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi bunyuranye, biboneka hirya no hino mu Rwanda, aha harimo nk'umuravumba, umugwegwe, igikakarubamba, kapusine ndetse n'ibindi, aho byose byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, hanyobwa umushongi wabyo cyangwa se bibyazwamo indi miti itandukanye.

Amacupa arimo amavuta yo mu bwoko bwa Alowe mango ndetse na alowe vera gel aya akaba ari amavuta yifashwa mu kuvura indwara z'uruhu zitandukanye nk'ise, ibimeme ndetse n'izindi zifata uruhu akaba akorwa hifashishijwe ibimera by'ibikakarubamba aho bitunganywa neza bigakoreshwamo muri aya mavuta mu rwego rwo gufasha abayakoresha kugira uruhu rwiza ndetse hirindwa indwara zitandukanye zifata uruhu.

Amacupa arimo amavuta ndetse n'imiti itandukanye bikorwa bivuye mu bimera binyuranye, harimo imiravumba, ikakabamba ndetse n'ibindi aho bitunganywa neza bikabyazwamo ibikoresho byifashishwa n'impuguke mu by'ubuvuzi cyane cyane bw'uruhu mu kuvura indwara zitandukanye zifata ibi bice.

Icyapa cyamamaza umuti woza mu kanwa wa foreva burekitusi jeri. Uyu ukaba ari umuti wifashishwa mu koza amenyo agirirwa isuku ndetse agafasha mu kurinda indwara zitandukanye zo mu kanwa ziterwa n'umwanda. Uyu muti ukaba ukorwa hifashishijwe ikimera cy'igikakarubamba gifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Isabune nziza cyane ya forever aloe turm iyi akaba ari isabune ikorwa hifashishijwe ibimera bizwi nk'ibikakarubamba aho byifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu nk'ise, ibiheri, ibishishi ndetse n'izindi iyi simera bikaba kandi iboneka hirya no hino mu gihugu kubwibyo ufite ibibazo by'uruhu bitandukanye yabyifashisha.